Umugabo wambaye amadarubindi, ipantaro y'umukara n'agapira k'umutuku, ucunga rihishije akaba ari guha umwana mutoya ibiryo uteruwe n'umubyeyi wambaye umupira w'umweru.

Ni abagore bahagaze bakaba basoje igikorwa cy'inama. Benshi muri bo bakenyeye ibitenge. Hari n'abambaye impuzankano y'utujire tw'icyatsi. Bari bari mu biganiro bijyanye n'abajyanama b'ubuzima.

Umuganga yazindukiye ku kigo cy'amashuri aho bagiye gutanga urukingo rw'inkondo y'umura ruhabwa abana b'abakobwa, hari umwana wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umuganga wambaye uturindantoki.

Abana bashotse mu mugezi baje kuvoma amazi gusa nubwo babigenje gutya aya mazi ntabwo yujuje ubuziranenge, ashobora kubatera uburwayi akaba yakwangiza ubuzima bwabo.

Mu byaro hari amavomo atari robine yagiye ahabwa abaturage azwi nka nikondo, aho ari uburyo bwifashishwa mu gukura amazi mu kuzimu uya pompa uyazamura hejuru nk'uko uyu mwana wambaye agapira k'umweru n'ingofero ari kubigenza we na bagenzi be bakavoma.

Abadamu babiri bakora mu nzego zikomeye mu miryango mpuzamahanga yo ku Isi, uwo ku ruhande rumwe afite igitambaro cy'umuhondo mu mutwe ndetse yambaye ikanzu irimo uturabyo undi na we yambaye iy'umukara.

Abajyanama b'ubuzima bakaba basuwe n'umuzungu wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru n'amadarubindi, amaze kubahugura none bari kumubyinira bose bambaye impuzankano y'ubururu bwerurutse.

Mu bihe by'icyorezo hari ukuntu abaganga bambara bikwije mu buryo budasanzwe, aho bafata udupfukamunwa, uturindantoki ndetse bakanarenzaho n'ibimeze nka kasike, hari uri kwita ku musaza ugeze mu zabukuru iruhande rwe hari akana.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we mu murima, bakaba bari gusoroma ibyatsi bishobora kuvamo imboga cyangwa se bikavamo imiti yifashishwa n'abavuzi gakondo.

Itsinda ry'abantu batandukanye, bose ni abaganga bambaye impuzankano y'amataburiya y'umweru, abenshi muri bo bambaye amapantaro y'imikara. Hagati harimo umuzungukazi wambaye umwenda utukura.

Imodoka izwi nk'ibangukiragutabara ihagaze mu mbuga, inyuma yayo hateye amahema, hari abantu benshi cyane bigaragara ko aha hantu ari ku kigo cya Leta, baje kwaka serivisi.

Ni mu giturage, aho ku ivomo hahuriye abantu benshi, barimo umukobwa washyize igitenge mu ijosi, hari amasafuriya manini, amajerekani atonze umurongo, hari abana, abakuru, abakobwa ndetse n'abahungu.

Icyumba kiri kuberamo inama haragaragaramo abirabura ndetse n'abazungu, ku meza hari udutasi turimo icyayi, bari kuganira banasomaho urabona ko bamwe bari kumwenyura, harimo abagabo n'abagore.

Inyubako zigizwe n'uruzitiro rw'ibyuma zikaba zubakishijwe amatafari ahiye, hagati kuri zo hagiye haciyemo amabara y'ubururu ndetse mu mbuga hari amabuye n'amatafari bigaragara ko aribwo zicyuzura.

Icyumba kiberamo inama, harimo abagabo bicaye ku meza mu buryo bw'umuzenguruko, hari uwambaye ikote ry'umukara, ku meza hari igitambaro k'icyatsi ndetse n'ibirahure by'amazi.

Imodoka nyinshi ziri ku murongo z'amakamyo, zikaba zikoreye ibintu runaka, akenshi na kenshi bene izi zitwara ibiribwa, zibishyiriye ababikeneye nk'ubufasha mu rwego rwo kubaramira.

Umwana uri gukaraba intoki. Akaba yambaye ishati y'icyatsi, iruhande rwe hateretse idomoro y'ubururu. Aho yafunguye amazi kuri robine, yaciye bugufi atega ibiganza.

Itsinda ry'abaganga b'inzobere bashinzwe gukora igikorwa cyo kubaga, barimo kwita ku murwayi aho bambaye imyenda yabugenewe biyambika iyo bagiye gukora igikorwa cyo kubaga umurwayi.

Ihema ritoya, rifite amabara y'ibendera ry'igihugu, ariyo icyatsi, ubururu n'umuhondo. Yicayemo abantu bari mu nama, hari akana gato kabicaye imbere, kuruhande hari umugore w'umupolisi.

Icyumba kiri kuberamo inama ijyanye n'ubuzima, aho bari kuvugako bateye imbere ku bijyanye n'ubuvuzi cyane cyane ubwifashishije ikoranabuhanga.

Mu rwego rwo kugira ngo abaturage bose bagerweho n'amazi kandi meza, Leta y'u Rwanda yashyizeho ikigo gishinzwe gusakaza no kugeza amazi ku baturage bose batuye Igihugu.

Icyumba cyo kwa muganga gikoraniyemo abantu benshi, hari uteye umugongo wipfutse agatambaro k'umuhondo n'ubururu mu mutwe, yambaye agapfukamunwa, hari ibyuma ari kurebamo bigaragara ko bimufasha kwita ku barwayi.

Utwana dutoya turi gukaraba intoki. Isuku ni isoko y'ubuzima. Ni ngombwa ko uyu muco tuwutoza abakiri bato kugira ngo bazawukurane nabo bazawurage abazabakomokaho ko isuku igomba kogera.

Icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru, hari ikirango kirimo uruziga, hakabamo umudamu uteruye akana, iki kiragaragaza Umuryango w'Abibumbye ishami ryita ku bana Unicef.

Abana babiri barimo umwe w'umuhungu wambaye agakabutura k'umuhondo n'agasengeri k'umukara, afite isabune mu ntoki, ari gukaraba, aho mugenzi we ufite ibinika ari kumusukira amazi yoga intoki.

Abantu benshi biganjemo abambaye impuzankano y'imipira y'ubururu bagaragiye umwana mutoya, aho bari kumupima uburebure n'ibiro barangajwe imbere n'umudamu wambaye ikanzu y'umukara irimo utudomo tw'umweru.

Abantu benshi cyane barimo abagabo n'abagore, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ishusho y'ubururu, ndetse n'umweru, benshi muri bo baba bagabo bambaye amakoti, hagaragaramo umuzungu.

Abagore bagera kuri batanu bose bicaye, bakaba bari kuganira, harimo umwe ufite urupapuro mu ntoki, iruhande rwe hari ameza ariho ibitabo, bigaragara ko ari kubahugura.

Umukangurambaga cyangwa se umujyanama w'ubuzima. Yazindukiye mu gikorwa cyo kujya mu baturage, abagezaho imwe mu migabo n'imigambi Leta y'u Rwanda ifite ku baturage, mu bijyanye n'ubuvuzi.

Abasore n'inkumi bakora mu kigo cy'Umuryango Mpuzamahanga w'Abibumbye ishami ryita ku bana Unicef, bari ku cyapa cy'ubururu ndetse nabo bambaye impuzankano z'imipira y'ubururu.

Akana gatoya ndetse n'undi mugenzi wako mukuru baje kudaha amazi mu gishanga, aya ngaya usibye gusa kuba wayamesesha, kandi nabwo imyenda itari iy'umweruru, ariko uyanyweye yagutera uburwayi.

Mu rwego rwo kwegereza abaturage bose amazi, hari aba yaragiye ashyirwa no mu bice by'icyaro. Hari abana babiri bari gukaraba intoki ku ivomo, bambaye umupira w'umutuku, undi yambaye imyenda isa y'icyatsi.

Mu bice by'icyaro mu rwego rwo kubegereza amazi kuko hose hatagera aya robine hari ayashyizweho azwi nk'ipompo. Hari abaturage benshi baje kuyashaka, umugabo umwe ari kuzamura icyuma yongera akimanura n'abandi bari iruhande rwe.

Abana benshi biga mu mashuri abanza, bari ku mavomo yo mu kigo cy'amashuri, aho aya ngaya yifashishwa akenshi mu gukora isuku mu byumba bigiramo cyangwa se ibindi bintu bitandukanye.

Mu majyaruguru ya Carolina ni ho hari ikigo cyitwa Global alliance, cyita ku buzima. Ni amagambo ari mu cyapa cy'umweru, cyandikishije ibara ry'umukara.

Ababyeyi bamaze iminsi bibarutse, aba ari ngombwa ko babyukira ku kigo nderabuzima mu gihe runaka, kugira ngo abana babo bakurikiranwe, batazaba bahura n'ibibazo biterwa no kutamenya indwara baba barwaye.

Umukobwa w'umunyeshuri ugeze mu kigero cy'umwangavu, yambaye impuzankano y'ubururu hasi, hejuru ni ubwerurutse mo imbere hakabamo ishati, ashobora kuba avuye ku bwiherero akaba ari gukaraba intoki.

Amavomero rusange ni amwe mu yegerejwe abaturage, yaba abo mu mijyi ndetse n'abo mu byaro. Ariko ahatari mu mijyi usanga harashyizwe afasha abantu kubona amazi ariko na bo iyo bayakoresha bibasaba gupomba bayakura hasi mu butaka.

Ivomero rizwi nka nayikondo, ririho abaturage benshi, aho inyuma yabo hari imirima iteyemo urutoki, hari umubyeyi uri gupompa, wambaye umupira w'icyatsi n'igitambaro cy'umuhondo, ari kumwe n'umwana wambaye umupira utukura.

Abajyanama b'ubuzima baba mu midugudu, usanga barahawe amajile abaranga mu rwego rwo kugira ngo nibazajya bagera mu rugo rw'umuntu, bajye bahita basobanukirwa uhageze.

Ibiganza bigaragara ko ari iby'umwana mutoya biri ku ivomo, aho nyirabyo ari gukaraba, rikaba risa ubururu, iruhande rwe hari isabune. Ni byiza gukaraba amazi meza n'isabune mu gihe icyo aricyo cyose twakoze mu myanda.

Abantu benshi bahuriye hamwe, harimo umukobwa uri imbere wambaye agapantaro gatukura, ndetse n'agasengeri karimo utubara twinshi, iruhande rwe hari uwambaye ishati y'icyatsi, umugabo uhera, yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru.

Umwana mutoya uri ku ivomo, yambaye agapira gaciyemo imirongo y'umukara, akaba ari guta ibitabapfu. Ari gukaraba, hari inkonda ziri kumanuka ku munwa we, akaba yasamye.

Abana benshi cyane bakaba bari ku ivomo risohorera amazi mu myenge myinshi, urabona ko bari guseka, bose bari gukaraba intoki, amazi ari gutemba agwa mui ibase nini y'umutuku.

Icyumba kirimo abantu benshi hari umugore wambaye ikanzu y'umweru n'ikote ry'umukara uhagaze hagati, bose bicaye imbere yabo hari amazi, ku meza hari ibitambaro by'ubururu n'umweru.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore bazindukiye ku kigo nderabuzima, hari ubukangurambaga bwabyutse bubakorerwa, hari ihema riteye aho hafi y'inzu kugirango abicwa n'izuba bagemo.

Abagore batatu bambaye ibitenge ariko bidasa ndetse bateze n'ibitambaro mu mutwe, bari kwitabwaho n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru ariko mo imbere harimo umupira w'ingofero.

Icyapa gishamikiyeho imiryango mpuzamahanga myinshi, ku mutwe hari kubanza UNICEF, uyu ni umuryango wita ku guharanira uburenganzira bw'abana hirya no hino ku Isi.

Ku buryo bwo kwegereza abaturage amazi mu bice by'icyaro, Leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho amavomo yiswe ubudehe, hari umugabo wambaye itise y'umukara ndetse n'ishati arahagaze ari kumwenyura afite ijerekani.

Umwana mutoya ushobora kuba yarwaye, ari kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa, wambaye itaburiya ndetse n'uturindantoki, aho yafashe igipimo agikoza mu matwi nk'uko abigenza, ikindi agikoza ku mwana kugira ngo yumve uko ubuzima bwe buhagaze.

Mu baturage kuko usanga mu mago yabo bagiye badafite amazi, hari ahaba haragenwe bajya kuyashaka, gusa kuko bahahurira ari benshi, bikabasaba gutonda umurongo, ariyo mpamvu tubona aya majerekani atondetse, uyu mukobwa uje inyuma agiye gutereka inyuma y'abandi.

Abantu bagera muri bane bicaye ahantu hamwe, mu nzu yubakishijwe amatafari ahiye yometseho ibipapuro biriho amafoto ashobora kuba ari kwa muganga, hari umubyeyi umwe upfutse mu gahanga, witandiye wambaye umupira w'ubururu.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abajyanama b'ubuzima, abenshi muri bo bambaye impuzankano y'amataburiya y'ubururu, iki cyumba kikaba ari gito kuko bicaye mu buryo bucucitse.

Itsinda ry'abaganga bari mu ihema, bakaba biganjemo abasore, ubona ko bakiri batoya, ku ruhande hari umukobwa ufite umusatsi mwinshi, akaba ari kumwe nabo, bari kumwenyura.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kugeza ku baturage amazi meza, mu rwego rwo kubarinda indwara zituruka ku kunywa amazi mabi. Hari umukecuru ukenyeye igitenge, wambaye ingofero y'ubururu mu mutwe, ari kuri robine, ari kuvoma.

Abantu bahuriye mu nama bakaba bamaze kuganira ibintu biteza imbere abaturage muri rusange, iyo bigenze gutyo ku musozo bafata agafoto k'urwibutso kugira ngo bazazirikane ibyo bihe.

Abana bane bari ku ivomo rusange ryegerejwe baturage rizwi nk'ipompo. Hari umwe uri inyuma, uri kugerageza gukura amazi mu butaka. Gusa injerekani ntabwo yayitezeho neza kuko amazi ari kuyamena.

Abana batoya bari mu kidendezi cy'amazi, bose bagiye kwidumbaguza, ibi ingibi bikorwa n'abana babyibwirije, aho bakora agakungu bagacika iwabo maze bakajya muri ibi bidendezi bishobora kuba byanabangiriza ubuzima.

Mu rwego rwo gukumira no guhashya ibyorezo bitandukanye, hari igihe biba ngombwa ko habaho gutanga urukingo ku baturage bose, umuganga wambaye ishati y'umweru n'agapfukamunwa n'uturindantoki ari gukingira umuturage.

Ikiganza kimwe kitagaragara nyiracyo, kikaba giteze intoki ku ihombo riri kurekura amazi ahita ajya mu kidendezi. Hari amabuye ndetse n'ibyatsi biri hirya.

Abagabo babiri bahuriye mu nzira, bakaba bari kubazanya amakuru ntabwo baherukanaga. Umwe yambaye umupira w'ubururu ahetse agakapu, undi yambaye ishati isa kake, afite agakomo mu ntoki ze.

Ahantu hatewe n'icyorezo bagakeka ko abo baturage banduye, hari igihe biba ngombwa ko babashyira aha bonyine bakajya mu kato kugira ngo abantu babasure cyangwa baze kubitaho, bibasaba kwambara bakikwiza.

Ihuriro ry'abantu benshi baje kwa muganga gushaka serivise, biganjemo abakobwa ndetse n'abana batoya. Hari umuganga wambaye umwenda w'icyatsi, imbere yiwe hari utwuma yifashisha agenda yandikamo anasuzuma aba barwayi.

Ibigo mpuzamahanga usanga byunganira Leta mu gushyiraho amazi meza abaturage bakwiye kuba banywa, batekesha, bakaraba ndetse n'ibindi, hari abadamu babiri bari ku ivoma, umwe ari gukaraba yambaye agapfukamunwa, undi ari kunywa amazi akoresheje ikiganza n'undi uhagaze hejuru yabo.

Umwana mutoya w'umukobwa ari mu kidendezi cy'amazi akaba yagiye kuyavoma n'ubwo bimeze gutyo ariko aha yahuriramo n'inzoka zikamurya cyangwa se akaba yahahurira n'ibindi bibazo.

Ivomo ry'abaturage rizwi nk'impompo, hari umwana ufite injerekani wambaye umupira w'umutuku, ndetse akaba ateze ari kuvoma. Hari abaturage benshi bashungereye bari kureba uko umubyeyi wambaye umupira w'icyatsi n'igitambaro cy'umuhondo avoma.

Icyumba kiri kuberamo inama, hari umuzungu wicaye ku ruhande wambaye karuvati, aho hagati muri bo hari icyuma cyagenewe gusakaza amashusho, kiyamurika ku rukuta, abenshi bari mu nama rero barakifashisha.

Kandagira ukarabe ni agakoresho kazwi cyane mu bice by'icyaro, aho bagakora mu buryo bwabo, bafata akabuni bagashyiraho umugozi ubundi wajya ukandagira amazi akaza bitagusabye ko ukoraho mu rwego rwo kunoza isuku. Hano hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu uri gukaraba intoki.

Umwana mutoya w'umukobwa, akaba ari gukaraba ku ivomo rusange rishyirirwaho abaturage, amazi arikugwa mu ibase y'umukara, inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari.

Akana gatoya k'agakobwa kambaye umwenda utukura, kari kuri robine aho kari gukaraba intoki, uyu ni umuco mwiza cyane dukwiye gutoza abakiri bato kugira ngo bazawukurane kuko isuku ari isoko y'ubuzima.

Icyumba kirimo abantu benshi biganjemo abana batoya, bambaye impuzankano y'ubururu, yandikishijeho amagambo y'ibara ry'umweru, hari umuzungu wabasuye ashobora kuba ari umuterankunga wabo.

Icyumba kirimo abantu benshi bari gukora inama, ijyanye n'ubuzima. Bakaba barangajwe imbere, na Dr Sabin Nsanzimana, uyu akaba ari minisitiri w'ubuzima, mu Rwanda.

Itsinda ry'abaganga b'inzobere, bahagaze hanze y'ibitaro, bakaba bamaze kujya inama ku bintu runaka, hari uwambaye itaburiya y'umweru ndetse n'abandi batazambaye.

Umukobwa ufite injerekani y'ikibundi akaba ari kuvoma amazi avunika kuko ayiteruye kugira ngo amazi ajye ajyamo atameneka, hari akana gato kegamye ku gikuta.

Ku kigo nderabuzima cya Mayange, hari abajyanama b'ubuzima basoje amahugurwa, aho bayahabwaga n'abazungu, bari gushyiraho ka morare rero bagaragaza ko ibyo bize bamaze kubifata.

Dogiteri Sabin Nsanzimana ministire w'ubuzima mu Rwanda aho ari kuramukanya n'abafatanyabikorwa bibafasha minisiteri y'ubuzima ni nyuma y'uko bari gusinyana amasezerano yo kurwanya icyorezo cya mariburu.

Umugore uteruye umwana muto, wambaye akagofero k'umweru, akaba ari kuvoma amazi, aho yateze indobo y'umukara, aya ni amavomo aba mu bice by'icyaro.

Uruhurirane rw'abantu benshi, bari mu gikorwa cy'ubuvuzi, barahagaze hari umugabo wicaye uri gutamira imiti, hari abagabo babiri umwe wambaye akajri k'umutuku, n'undi wambaye ak'umuhondo ndetse n'abandi bambaye impuzankano y'umweru.

Umugabo bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Afite amashashi, yambaye unshwabari ndetse yicaye ahantu hasa nabi. Bene aba nitubabona tujye tumenya uko tubatwara, ntitukabahutaze.

Umukobwa ukenyeye igitenge n'agapira k'umuhondo, akaba azirikiye ku giti cyanditseho amagambo atandukanye, aho bamuzikishije iminyururu bashobora kuba bamufunze.

Ikirangantego cy'u Rwanda, ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ndetse n'ikirango cy'umuryango Mpuzamahanga, agashami gashinzwe kwita no kurengera abana UNICEF. Baragira bati "Ni umunsi Mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe."

Hafi y'ikimoteri kiriho ipine rinini, amashashi ndetse n'ibindi bishingwe, inyuma hari ibimodoka bishaje, imbere yabyo hari umugabo ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, witeye ibintu by'imyanda akaba aribyo yambaye.

Abaturage benshi bishimye biganjemo abagabo, abagore, hari akana gato kakutse iryinyo ry'imbere, kambaye umupira w'ubururu na ko gafite utubendera tubiri mu ntoki, katumanitse karishimye.

Umusaza wakutse amenyo afite umusatsi mwinshi ariko utagaragara neza, akaba yambaye agashati k'ubururu ndetse yikenyeye umuhondo.

Abantu benshi batandukanye, barimo umuzungu ufite ubwanwa bw'umweruru ari kumwe n'umukecuru, hejuru hari abasore babiri bafatanya ku rutugu, umwe yambaye umwenda w'umuhondo undi yambaye uw'umweru.

Umugabo wicaye ahantu hirengeye, akaba yegamiye urukuta rwandikishijeho ibintu biri mu ibara ry'umukara, yambaye agapira k'umutuku, yigunze ameze nk'aho afite ubwoba, ashobora kuba yarahuye n'ihungabana.

Umukecuru utetse ku mashyiga hanze, aho isafuriya ye yajeho imbyiro. Iruhande rwe hari agakombe k'icyatsi, akaba afite akamamiyo ari gucisha mu nkono, ari kureba imbere ye aseka, amwenyura.

Icyumba kiri kuberamo inama hari abagore batatu bagaragara bicaye ku murongo umwe aho bose barangamiye uri imbere yabo ufite indangururamajwi mu ntoki wambaye umupira w'umweru, uri kubagezaho ikiganiro cyateganyijwe.

Abantu bahuriye mu cyumba kimwe kiri kuberamo inama, bicaye ku ntebe z'imbaho, hari uri imbere yabo wambaye agapfukamunwa n'umwenda utukura, ari kwandika ku kibaho hari ibyo ari kubigisha.

Umugabo uri mu maboko yombi nk'uko bakunze kubivuga yambaye amapingu, hari amafoto bamushyizeho. Hakaba hari abantu bamuhagaze hejuru, bigaragara ko ari kwagirizwa ibyaha runaka.

Mu mwaduko w'icyorezo cya korona virusi hagiye hafatwa ingamba zitandukanye zituma abantu birinda iki cyorezo, zirimo kuramukanya bakoresheje inkokora kwambara agapfukamunwa gukaraba intoki kenshi n'amazi meza.

Umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu n'umweru, ari kumwe n'undi wambaye imyenda y'imikara, afite agapupe mu ntoki, kameze nk'ak'igisamagwe; aho iruhande rwabo harimo, ikidobo kirimo udupupe twinshi.

Umugabo wambaye ishati irimo ibara ry'umukara ndetse n'irya kake, ahagaze imbere y'inzu irimo ubusitani, uruhande rumwe ruriho umukindo n'urundi ni uko.

Icyumba kiri kuberamo inama, kikaba cyubatswe mu buryo bugezweho, kuko gifite intebe nziza, hitabiriye abagore ndetse n'abagabo, aho hari umukobwa uri imbere yabo, uri kubaha ikiganiro.

Umusaza uri mu mbuga akaba yakojeje ikiganza kimwe hasi ikindi arakimanika, ashobora kuba ari nk'abantu ari gukorera imyiyereko ariko urabona ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe.

Inyubako iri hakurya y'umuhanda, ikaba ikorotirijwe n'amabuye ndetse n'utwuma tuyizengurutse irasa umuhondo, ibaraza ryayo ririmo inkingi ebyiri.

Baca umugani mu kinyarwanda ngo umugabo mbwa aseka imbohe, aha hari umugabo ubona ko ibibazo byamurenze, ashobora kuba ari mu maboko yombi nk'uko bikunze kuvugwa kuko aboshye amaguru yicaye mu cyumba gisa nabi.

Umugore cyangwa se umukobwa uri kumwenyura, akaba ari umwe mu bakora mu gice cyo kwita ku buzima bw'abantu. Yambaye agakote k'umukara, ikanzu itukura, afite imisatsi myinshi igiye inyuma ari kumwenyura.

Abakobwa n'abasore biganjemo urubyiruko bose bari kumwe n'abantu babahuguye. Hari umugabo uhagaze hagati muri bo wambaye ishati y'umweru, karavati ndetse n'ipantaro y'umukara, ku ruhande hari umudamu w'umuzungukazi.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nagatatu, nkuko' biba buri mwaka, hizihijwe umunsi mpuzamahanga, ujyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, aha hari igishushanyo cy'umutwe, n'abantu bakigaragiye bari kugikoraho.

Icyapa kiriho amagambo atandukanye, amwe agiye yanditse atambitse andi yanditse buhagazi, hariho amagambo y'ururimi rw'icyongereza, akaba asobanura ko ari ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Inyuguti enye ziri mu ibara ry'icyatsi arizo R, M, H, P, ijambo ryo mu cyongereza ugenekereje mu Kinyarwanda rihagarariye ikigo cy'igihugu cyita ku buzima bwo mu mutwe.

Ameza ariho igipirizo kinini cy'umutuku akaba ateguyeho ibitambaro by'umukara, ayo hino ariho mudasobwa n'abagabo ndetse n'abagore bahagaze ku murongo aho bategereje kwakira ababagana.

Ihuriro ry'abana benshi bakiri bato bambaye impuzakano y'umuhondo. Hari n'utundi dupapuro babashyize mu mutwe tugaragaza icyabahurije aho ngaho. Abana bamwe barakoma amashyi ndetse baraseka barishimye.

Umutwe uri mu ibara ry'umweru, inyuma yayo hari icyatsi ndetse n'amagambo yanditsemo, akaba ari umunsi Mpuzamahanga wo kwita ku buzima bujyanye n'uburwayi bwo mu mutwe.

Ni ikigo cyita ku bantu bagize ibyago bagahura n'uburwayi bwo mu mutwe, giherereye i Ndera ho mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Imbere yacyo hahagaze umugabo w'umuzungu wambaye ipantaro ya kake.

Umukecuru ugeze mu za bukuru akaba afite iduka rye acuruza yambaye umwenda ukozwe mu gitenge wiganjemo ibara ry'umutuku ndetse n'urunigi mu ijosi.

Hari ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi, bashyize hamwe kugira ngo bakore ubushakashatsi ku bijyanye n'indwara y'ubuzima bwo mu mutwe, nkuko turi kubibona ahangaha.

Ihuriro ry'abantu benshi bari mu cyumba kiberamo inama, inyuma y'ibyapa by'Umuryango w'Abibumbye, Ishami ryita ku bana, UNICEF, bigaragara ko iyo nama yigaga ku bijyanye n'uburenganzira bw'abana.

Umugabo ufite umusatsi mwinshi n'ubwanwa bwamwereyeho, yambaye ubucabari akaba asa nkaho yahuye n'ibibazo akagira uburwayi bwo mu mutwe, ari kurya umuneke ari iruhande rw'umuhanda.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru, ufite ibisuko biboheye hejuru, akaba yubitse umutwe agakozamo amaboko abiri, biragaragara ko afite ibibazo. Akeneye umuntu umusanganira akamuhumuriza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, iruhande rwe hari ibendera ry'u Rwanda, irundi ruhande hari iry'umuryango mpuzamahanga, ishami ryita ku buzima, aho ku mutwe w'icyapa handitse ngo turi kumwe.

Umusore wambaye umupira w'umweru, akaba inyuma hasa umuhondo werurutse, ari kumwenyura, yahumirije amaso biragaragara ko amenyo ye yayakoreye isuku, kuko arasa neza mu kanwa.

Umusore ufite derede ku mutwe, akaba agiye gukorerwa ubuvuzi bw'amenyo, aho agaramye ku gatanda kabugenewe. Umuganga ari kumwereka uburyo, azajya akora isuku yifashishije akadodo.

Icyumba kitari kugaragaramo umuntu, kirabonesherezwa n'amatara menshi, aho amurika akagaragara hasi mu makaro. Hagiye harimo intebe ziganjemo iz'umukara ndetse n'ibyuma byifashishwa n'abaganga.

Tubiteho. Ni ryo jambo ryanditse ku mupira w'icyatsi wambawe n'abana nk'impuzankano, bose bakaba bari kwitabwaho bahabwa ubuvuzi bw'amenyo, aho abantu bambaye imipira y'umweru uturindantoki n'udupfukamunwa bari kubasuzuma.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo kiba cyihariye, kuko haba hariho agatebe na none gashobora gukoreshwa nk'agatanda bashyiraho umurwayi mu gihe bagiye kumusuzuma cyangwa se kumukura amenyo.

Umukobwa ufite imisatsi miremire y'imikara, akaba afite uburoso mu ntoki; aho abyutse mu gitondo ari gukora isuku yo mu menyo yireba mu kirahure, yambaye agasengeri k'umweru.

Umukobwa uri guseka amwenyura, aho yafashe urutoki bita mukubitarukoko akaruhuza n'urundi rwitwa nyangufi muri zo, akabihuza akabishyira hagati y'umunwa ari kumwenyura yerekana ko amaso ye ndetse n'amenyo bikeye.

Umuganga w'inzobere cyane cyane mu kwita ku buzima bwo mu kanwa ndavuga ubuvuzi bw'amenyo, ari kwita ku mwana wambaye agapira k'icyatsi, akaba yamwasamuye kugira ngo arebe ikibazo yaba afite mu kanwa.

Icyumba cy'ishuri kirimo abana batandukanye, bambaye impuzankano y'umuhondo hejuru, ndetse hasi bambaye icyatsi cyijimye, bakaba bamanitse hejuru umuti w'amenyo.

Umugabo ufite ubwanwa bwo hasi n'ubwo hejuru afite amenyo y'urwererane arasamye ari gucishamo akadodo hagati y'iryinyo n'irindi mu rwego rwo gukora isuku hakavamo imyanda idakorwamo n'uburoso.

Umusore wambaye umupira w'umweru ufite agasatsi gakeya, arasamye ari gucisha akadodo mu menyo yiwe, bigaragara ko uyu musore ari gukora isuku yifashishije aka kadodo akura imyanda ibi iri hagati mu menyo.

Umugabo wambaye umwenda w'umukara babyukana, ari mu nzu ifite amarido y'umutuku; abyutse ari gukora isuku mu kanwa, aho ari kwiborosa.

Umuganga wambaye amadarubindi ufite ubwanwa bwinshi n'umusatsi w'umukara, iyo amaze kureba umurwayi icyo arwaye hari ahantu aza kugira ngo akore ubusesenguzi ku ndwara aba yabonye.

Akana gatoya k'agakobwa karwaye amenyo none kari kwitabwaho n'abaganga bambaye uturindantoki ndetse bafite n'ibikoresho byagenewe kuvura indwara zo mu kanwa, nta kibazo gafite kuko kari guseka nubwo bari kukavura.

Intebe y'icyatsi ishobora kwegamirwa ikamera nk'igitanda. Iyo ijyaho umurwayi ufite ikibazo cy'amenyo mu gihe bagiye kumusuzuma. Hari akandi gatebe gato k'uruziga kicarwaho n'umuganga ndetse n'insakazamashusho.

Ikiganza kitagaragara nyiracyo kikaba cyambaye uturindantoki, gifite icyuma cy'ikoranabuhanga, aho hagaragara igice cy'amenyo y'umuntu, kiri kwitabwaho gikorerwa ubuvuzi.

Abantu benshi bahuriye hamwe, harimo abantu bicaye hasi, basetse barishimye. Umukobwa uri kuruhande rw'ibumoso, yambaye agashati k'umweru n'ipantaro y'umukara, aho yegeranye n'undi na we wambaye ibisa bityo. Harimo abazungu babiri.

Afite isume ku rutugu y'umweru, yambaye ubusa. Aho ari gucisha urudodo mu menyo yiwe, bimufasha kuyakoramo isuku, kuko hari utwanda tuba turi hagati, tutakurwamo n'uburoso.

Umukobwa ufite imisatsi yayisokoje ayiganisha inyuma ndetse no mu maso. Yambaye iherena ku gutwi, afite amenyo meza y'uruyange, akaba ari kuyakoramo isuku yifashishije akadodo, aho ari kugacisha hagati y'iryinyo n'irindi.

Mu cyumba cy'ishuri hari umugabo w'umwarimu uri kwigisha umwana ku buryo bwimbitse ashobora gukaraba mu kanwa mu rwego rwo kwirinda indwara zituruka ku mwanda wo mu kanwa, inyuma ye hari umuzungukazi uri kureba uko amwigisha.

Mu mavuriro amaze gutera imbere, uhasanga ibyuma kabuhariwe byifashishwa mu buvuzi buteye imbere, hari ibyuma by'umweru hejuru hariho insakazamashusho ndetse n'intebe y'umukara.

Umusore ufite utudirede dukeya turyamye tugana ku ruhande rumwe ku mutwe, yambaye umupira w'umweru, ari kwireba mu ndorerwamo agaseka, afite akadodo bigaragara ko ari kugacisha mu menyo mu rwego rwo gukoramo isuku.

Umugabo uri kwireba mu ndorerwamo, yambaye umwenda wera de, akaba afite akadodo, ari kugacisha mu menyo mu rwego rwo kwikorera isuku, aho akura imyanda iri hagati y'iryinyo n'irindi.

Umusore ufite ubwanwa akaba atagaragara neza isura ye, hari agakoresho gatangwa n'abaganga kifashishwa mu gusukura amenyo aho gakura umwanda uba uri hagati y'iryinyo ndetse n'irindi.

Umugore uri kumwe n'umwana we w'umukobwa bose bambaye udusengeri tw'umweru bakaba bafite uburoso biragaragara ko babyutse bagiye gukora isuku yo mu kanwa. Ni ngombwa koza amenyo yacu tugahorana mu kanwa hakeye.

Ubuvuzi bw'amenyo ni bumwe mu bikorwa hitonzwe, kuko bitabaye bityo umuntu yahatakariza ubuzima. Aha hari umuganga wazamuye amadarubindi ayashyira mu gahanga, yambaye uturindantoki ari kwita ku murwayi.

Ubuvuzi bwo mu kanwa ni bumwe mu bukorwa bwitonze cyane kuko ari cyo gice k'ingenzi umuntu ashobora kuvurwa nabi bikamuviramo kuba yabura n'ubuzima bwe, hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, karuvati itukura, ari kuvura umusaza wambaye umupira w'icyatsi.

Agatanda kifashishwa n'abarwayi baryamaho cyane cyane abarwaye amenyo mu gihe bagiye kubarebera mu kanwa cyangwa se kubavura iyo bamaze kumenya icyo barwaye.

Umukobwa uri kuvurwa amenyo, akaba yabanje guterwa ikinya kugira ngo atumva ububabare, hari umuganga wambaye agapfukamunwa, ufite utwuma twabugenewe mu gukura amenyo.

Umukecuru wo mu cyaro ugeze mu zabukuru, akaba atetse inkono ye ku mashyiga, isafuriya zose zaragiye zizana imbyiro zihinduka umukara, kubera kudashobora kuva aho ari ari guteka yiyicariye.

Umugabo wambaye amadarubindi ukuzemo gake, afite ubwanwa ndetse n'umusatsi mukeya, ari gusomera umwana we igitabo cy'umweru, aho bishimye bari guseka bose.

Umukecuru uri guseka ufite imvi zabaye uruyenzi. Ageze mu zabukuru, aho ari mu bigo bishinzwe kwitabwaho ku bantu baba batangiye kugenda bakura, ari kumwe n'umukobwa wambaye imyenda y'icyatsi.

Ni umudamu ubona ko atangiye gukuramo, yambaye ishati y'umuhondo, ku meza hari agakombe, afite n'akandi mu ntoki, akaba ari gusuka imiti, amasaha yo kuyinywa arageze.

Umusaza ugeze mu zabukuru ubyibushye afite akabando ko kwicumba yambaye impeta ku rutoki, ariko nta kibazo cy'ubuzima azahura na cyo kuko afite umuganga w'umukobwa umwitaho, yambaye umupira w'umweru ari kumuganiriza ngo yumve uko ubuzima bwe buhagaze.

Abantu bicaye mu gacaca, aho hari umuzungu uteruye umwana, hari umudamu uri hasi uri kuboha igitebo umwe, muri bo afite terefone mu ntoki, akaba ari guseka.

Umugore utangiye kugenda akura ariko arakomeye kandi ubuzima bwe bugenda neza bitewe n'uko akora imyitozo ngororamubiri, ariruka, agaterura n'utwuma dutoya tujyanye n'ubushobozi bwe.

Umusaza ugeze mu za bukuru ubona ko agatege ari ntako yari aryamye ku buriri bushasheho amashuka y'umweru, hari abahungu be baje kumubyutsa ndetse n'abakobwa.

Ababyeyi bagera kuri umunani bari kubyina bishimye bose abenshi bahuriye kumpuzankano y'umukara n'umweru, hari umukobwa w'inyuma wambaye umupira w'ubururu bwerurutse.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa burimo imvi, ari kumwe n'umugore we na we ufite imisatsi y'umweru. Bari gufata ifunguro ryiza kandi ryuzuye, aho bari kubikora baganira, bacishamo bagaseka bigaragara ko bishimiranye.

Umuzungukazi utangiye gukura, akaba ari kwirukanka amwenyura, umusatsi we urimo imvi, ari kumwe n'umugabo w'umwirabura bakaba bari muri siporo.

Abageze mu za bukuru babiri barimo umusaza wambaye umupira utukura ndetse n'amadarubindi, ari kumwe n'umukecuru imvi zabaye uruyenze ku mutwe we nawe yambaye agapira k'umutuku gaciyemo uturongo tw'umukara.

Umukecuru ugeze muza bukuru ufite akabando mu ntoki, ari kumwe n'umuganga umwitaho umunsi ku wundi. Uyu mugabo afite ubwanwa, yambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'akuma kifashishwa mu gupima abarwayi.

Umusaza ugeze mu za bukuru ufite ubwanwa n'umusatsi byajemo imvi yambaye amadarubindi, afite terefone mu ntoki, ari kumwe n'umudamu we hari inyandiko bari gusoma, izindi ziteretse ku meza.

Umusaza n'umukecuru bari gufata ifunguro, baganira bakaba bambaye amadarubindi. Ku meza hari amasahani ariho amafunguro, bari gufata indyo yuzuye kuko ari yo ituma bamera neza no mu gihe bari mu zabukuru.

Umusaza ugeze mu zabukuru wambaye amadarubindi ndetse akaba ari kumwe n'umuganga w'umukobwa uri kumwitaho. Afite igipimo cyifashishwa mu kumenya uko umuvuduko w'amaraso uhagaze ndetse n'uko umutima w'umuntu utera.

Abasaza bageze mu zabukuru usanga bagiye abaganga babitaho; aha hari umudamu w'umuganga wambaye itabiriya y'umweru; ndetse n'akuma kifashishwa mu gupima uko umutima utera; ari gukoresha umugabo ufite ubwanwa burimo imvi siporo.

Umukino witwa dame ukunze gukinwa n'abantu batandukanye biganjemo abakuze ndetse n'abana, hari umusaza uri gusunika icyo bita ipiyo gusa uwo bari gukina ntabwo agaragara.

Umukecuru ufite imvi z'uruyenzi akaba yiteye agashabazi k'umweru ndetse n'akabodi k'ubururu, ari kumwe n'umusaza nawe ukenyeye, bakaba bari mu gisharagati aho bitabiriye ibirori.

Umukecuru ugeze mu zabukuru ufite umusatsi wenda gusa nk'umuhondo, abyutse mu gitondo yibutswa n'umuganga, wambaye impuzankano y'ubururu, aho ari kumuha imiti, kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza.

Umukecuru wambaye ishati ya kaki, ari kwitabwaho n'umuganga aho amubyukiye mu gitondo amuha imiti, uyu mukobwa w'umuganga ni umunyamwuga mu byo akora.

Umusaza ugeze mu za bukuru ufite imvi zabaye uruyenzi ndetse no ku bwanwa bikaba uko yambaye amadarubindi. Ari kumwe n'umudamu uri guseka, hari umukino bari gukina, aho bari gupanga utuntu ku meza, barishimye.

Hari ibimera bitunganywa biciye mu nganda byarangiza bikavamo imiti, hari ibiri mu byiciro bitandukanye biri hano ndetse n'amabara yiganjemo ay'umweru umutuku n'umukara.

Umusaza wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, afite umusatsi urimo imvi n'ubwanwa, hari akuma gatoya umuganga yamuhaye ari kwifashisha akora imyitozo ngororamubiri, umuganga amuhagaze iruhande amwereka uko abikora.

Umukecuru wambaye umupira w'ubururu bwijimye, ufite umusatsi urimo imvi yambaye amadarubindi, afite uduhererina ku gutwi, abyutse ahereza umusaza amazi yo kunywa wicaye ku buriri bufite amashuka y'umweru.

Umukecuru ufite umusatsi w'imvi zabaye uruyenzi. Yambaye agapira k'umukara akaba yarengejeho isharupe y'igitaka, ari kumwe n'umusore wembaye umupira utukura ndetse n'umukobwa we bose bari kumwitaho.

Umusaza bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'imvune, ari kugenda agorora amaguru yiwe gake gake, mu rwego rwo kugira ngo yumve nimba yatangiye gukira. Hari umuganga wambaye impuzankano y'ubururu juru uri kumwitaho.

Umugabo wahuye n'ikibazo cy'imvune akaba atangiye gukira, hari aho abaganga bagucisha kugira ngo barebe ikigero uriho ukomera, hari umuganga w'umukobwa w'umuzungu wambaye agashati k'umweru.

Imyitozo ngororamubiri usanga abantu bose bamaze kumenya ko ari umuti ntabwo ari nka kera yakorwaga n'abakiri bato gusa, aha hari umudamu utangiye gukura uri gukora izizwi nka pompaje aho yarambuye agatapi ariko azikoreraho.

Icyumba kiri kuberamo inama, kirimo abantu benshi b'ingeri zitandukanye, aho hejuru hari abari gutanga ikiganiro, biganjemo abagabo batatu bambaye amakoti ndetse n'amakaruvati, n'abagore babiri bari kugaragara.

Mu cyumba kiri kuberamo amahugurwa, harimo abantu benshi, barimo abagabo bambaye amakositimu ndetse n'umugore wambaye akamini ndetse n'agakote bisa.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku bijyanye n'indwara ya Diyabete, aho hari kugaragaraho inyubako izwi cyane mu Rwanda nka convention center, imbere yayo hari umukobwa wambaye ijipo y'ubururu.

Iyo umuyobozi asimbuye undi habaho icyo bita guhererekanya ububasha, uyu ni Minisitiri w'Ubuzima NGAMIJE wari ucyuye igihe aho yari ari guhererekanya ububasha na Dogiteri. Sabian NSANZIMANA.

Icyapa kinini kiri mu byiciro bibiri, hakaba hari ahari ibara ry'ubururu ndetse n'ahari ibara ry'icyatsi. Ni umuryango w'ububurasirazuba mu rugendo rw'ubushakashatsi bwita ku buvuzi.

Mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya kovide cumi n'icyenda hari uburyo bwari bwarashyizweho bwo gusuzuma abantu ariko bukaba butaravugwagaho rumwe kuko bavugaga ko bubaza, hari abaganga bambaye imyenda yabugenewe bari gupima abarwayi.

Umwana mutoya bigaragara ko amaze umunsi umwe avutse. Aba ari ngombwa ko umwitaho umunota ku wundi kugira ngo ubuzima bwiwe butaba bwajya mu kaga, kuko abana batoya baba bakeneye kwitabwaho.

Ubutabazi bw'ibanze ni kimwe mu by'ingenzi ushobora gukorera umuntu uhuye n'uburwayi cyangwa impanuka itunguranye. Hari abaganga ndetse n'abandi bari kubafasha mu kwita ku muntu uhuye n'ikibazo gitunguranye.

Umukecuru usheshe akanguhe yakutse amenyo ndetse n'isura ye irimo iminkanyari ateze igitambaro cy'umutuku mu mutwe yarwaye ijisho baripfutse ashobora kuba yabazwe.

Umudamu wambaye umupira w'umweru, yashyize amadarubindi hafi y'agatuza, yambaye agapfukamunwa, bari kumutera urushinge ariko yashinyirije biragaragara ko arutinya. Hari undi muntu uhagaze inyuma ye.

Ni utwapa dutandukanye, hariho akariho ka kuma abaganga bakuru bifashisha iyo basuzuma umurwayi, ndetse hari n'akariho urushinge rwa selenge, hari ikindi cyanditseho ngo ''indwara zitandura'', ugenekereje mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Nyakubahwa madame Jeannette KAGAME akaba umufasha wa perezida wa repubulika y'u Rwanda yatangaga ikiganiro cyaciye kuri televiziyo yitwa ishusho aho yagarukaga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Amagambo menshi yandikishije ibara ry'umukara akaba hepfo ku musozo hari imbonerahamwe y'ubururu yanditsemo amagambo y'umweru, haragaragara abana bato benshi bahagaze ahantu hamwe.

Icyumba kiberamo inama cyahuriyemo abakobwa benshi, harimo abenshi muri bo bafite imisatsi isutse inyuma, bambaye imipira y'imyeru, hari uri imbere yabo uri kubaha amahugurwa.

Umugabo uri imbere y'imbaga aho ari kubagezaho ijambo cyane cyane yibanda ku bijyanye n'ubuzima, yambaye ikote ry'igitaka ndetse na karavati.

Utuntu tw'amabara atandukanye harimo kamwe ko hagati byose bishamikiyeho, karasa ubururu ndetse kagaragiwe n'utundi tw'icyatsi n'umutuku. Twose turatambutsa ubutumwa bugaragaza ko hagomba kwitabwaho ubuzima.

Umukobwa wicaye yagereretse akaguru ku kandi, ari kumwenyura atanga ikiganiro cyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere, afite indangururamajwi mu ntoki ze.

Umukobwa wambaye inkweto zizamuye, abakera bakundaga kwita ntunshingeho z'umukara. Yambaye agakanzu, iruhande rwe hari umuzungu wambaye ikoti ry'umukara, inyuma yabo hari icyapa kinini.

Icyapa kiri mu byiciro bitandukanye, hari igice kimwe kiri mu ibara ry'icyatsi cyanditseho amagambo n'ikindi kiriho akana kasamye, bigaragara ko kari gukorerwa ubuvuzi.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, hari ayandikishije ibara ry'ubururu hagacaho akarongo, munsi hakandikwa ngo ''Abana, SIDA ndetse na virusi yayo.''

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, ahagana mu nguni y'iburyo hejuru harimo igice cy'umutwe w'umuntu kikaba kigaragara mo imbere mu rwego rwifashishwa mu buvuzi iyo bagira ngo barebe igice cy'umubiri w'umuntu.

Umuntu washeshe ibiheri ku mubiri we, ndetse bigaragara ko yangiritse cyane, aho ari gukangurirwa kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende n'ubwo uyu yamaze kuyandura, abandi twese turashishikarizwa kuyirinda.

Icyapa kinini kirimo amabara atandukanye, hari ahari ibara ry'icyatsi ndetse ahandi hakaba umweru. Hariho umugabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, akaba ari kumwenyura, hepfo gato iburyo hari akaziga k'ibara ry'icyatsi.

Mu rwego rwo gukumira no guhagarika icyorezo cya coronavirus cyibasiye isi muri rusange, hagiye hashyirwaho amabwiriza yo gukaraba intoki kenshi, kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga, guhagarara abantu bahanye intera ndetse n'ibindi.

Abantu batandukanye, hari umwe wambaye imyenda y'ubururu bwijimye ndetse n'ingofero y'urugara uri mu murima ari kwahira, ahandi hari abaganga bari kwita ku murwayi bambaye udupfukamunwa.

Icyumba kirimo amabara y'umweru, kikaba kirimo uturobine twinshi cyane bigaragara ko abantu bifashisha bamaze gukora ubushakashatsi butandukanye, bakaza koga intoki zabo.

Umugabo uri kwa muganga akaba yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara yatebeje. Iruhande rwe hari umurwayi uryamye ku gitanda, aho ari kumwitaho amumanikira inzitiramibu.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi y'umweru, hagati hagiye haciyemo imirongo y'ubururu, ifite inzugi z'ibyumba byenda gusa umutuku. Amakaro yayo aratangaje kuko utabasha kumenya ibara riyagize.

Inzu irimo ibikinisho ndetse n'amabara atandukanye, hari intebe zifite imisego ya kake ndetse aho bicarira hagasa ubururu, harimo ibintu biri mu mashusho y'inyamaswa bigaragara ko aha ngaha hakirirwa abana bakiri bato, kuko aribo bakunda bene ibi.

Inzu nyinshi zubatswe mu buryo bumwe zose zisa, mu mpande hagiye hari amatafari ya ruliba, naho ahandi yasize irangi ry'umweru ndetse n'ibirahure biri gusa icyatsi, hari abantu benshi bari kugenda berekeza kuri izo nyubako.

Inyubako iri ahantu heza hisanzuye, imbere yayo hateye imitako y'ibiti izwi nk'umukindo. Hakaba hari umuryango ufunguye igice kimwe, nta muntu uri kugaragara aho hafi.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo ibitanda byifashishwa n'abarwayi bari mu bitaro, byose bifite amapine, ku buryo bibaye ngombwa bamwimura, hagati hagiye hariho ibitambaro bitandukanya umurwayi n'undi mu masaha y'ijoro.

Inzu nziza yubatse mu buryo bwiza kandi butangaje, hari urukuta rugaragiye akayira k'abanyamaguru, rwubakishije amabuye y'amakoo ndetse inzu ubwayo irasa umweru, hagiye hariho ibyifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro.

Inyubako nziza irimo amarangi y'umweru, amakaro akunze kwitwa igicu, irimo n'intebe, purafo yayo irasa umuhondo, inkingi zimeze nk'ibiti binini by'inganzamarumbo.

Icyumba cyifashishwa mu gutanga ubufasha bw'ubuvuzi, ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri baba bahuye n'ikibazo cy'uburwayi, harimo intebe bicaraho ndetse n'ikibumbano giteyemo ururabyo.

Leta yashyize imbaraga mu kubaka ibitaro bigezweho biba byubatswe neza bikagira ibyumba byinshi kandi birimo ibyuma bigezweho, nk'iyi nzu yubatswe mu buryo bwa muviringo ifite imbuga n'ubusitani bwisanzuye ikorerwamo ubuvuzi.

Amarembo magari afite urupangu rw'ubururu, ruriho inyuguti ebyiri za h, hakaba hari icyapa ku ruhande cyerekana ko ari ku bitaro by'akarere ka Nyanza, mu ntara y'amajyepfo.

Agatanda ko kwa muganga gahabwa umurwayi uri mu bitaro, iruhande rwako hari insakazamashusho zifashishwa mu rwego rwo kugenzura ubuzima bw'umuntu mu buryo bw'ikoranabuhanga, kakaba gashasheho ishuka y'umweru.

Icyumba kirimo umurwayi uryamye ku gitanda, haragaragaramo inkingi hagati y'umweru ndetse n'umuganga wambaye itaburiya utari kugaragara neza, hari ibyuma byifashishwa mu gusuzuma uko ubuzima bw'umurwayi buri kugenda.

Inyubako ikora ikanatunganya neza ibijyanye n'inkingo, iri ni ireme ry'ubuvuzi butajegajega, kuko no mu Rwanda bene iyi nyubako irahari.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ubushakashatsi, aha hari ibyuma byifashishwa mu kureba utunyangingo dutoya, tuba turi mu mubiri umuntu atabasha kubonesha amaso.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho. Igice cyayo cyo hejuru cyiganjemo ibara ry'umweru, ahagana ku madirishya hagiye hari utubara tw'ubururu. Ibaraza rifite inkingi enye zose zingana.

Ku kigo nderabuzima cyose uzahasanga inzu y'ababyeyi. Iyi ngiyi iba ishinzwe kwita ku bagore baje bari ku bise, bakabafasha kwibaruka neza ndetse bakita no ku bana baba babyaye. Iri hano yubakishije amatafari ahiye.

Ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo bugizwe n'ubwatsi butoshye ndetse n'indabyo biragaragara ko bwuhirwa umunsi ku wundi bukitabwaho hirya hari imodoka eshatu zihagaze biragaragara ko aha hantu hatangirwa serivisi runaka.

Imbere y'inyubako ya farumasi hari imodoka zihagaze, ku mpande biragaragara ko hari iduka ricuruza imyenda nk'uko ibipupe bayambika biri kubigaragaza.

Leta y'u Rwanda yagiye ishyira imbaraga mu buvuzi, aho usanga byibuze muri buri karere hagiye hari ikigo nderabuzima kandi gikomeye. Aha ngaha ni ku kigo nderabuzima cya kigina hari umubyeyi uhagaze imbere yacyo.

Abaturage bari kwaka serivisi z'ubuvuzi. Bose bari ku murongo. Intebe bari bicayemo zisigariye aho ariko mu rwego rwo kudaheza ababana n'ubumuga, turabareka bagatambuka mbere, niyo mpamvu ari we babanje kwakira.

Ibitanda by'ubururu n'umweru biri mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, iki cyumba cyujuje ibisabwa kuko hari uburyo iyo bumaze kugoroba hashyirwaho amarido maze umurwayi agasinzira yisanzuye.

Icyumba cyisanzuye ubona ko gisa neza kirakeye. Harimo ibyuma bigezweho byifashishwa n'abaganga cyane cyane iyo bari kubaga umurwayi, cyangwa se bamuvura mu bundi buryo.

Isange wani sitopu senta ni igice cyagiye gishyirwa ku bigo nderabuzima byose kikaba gishinzwe kwakira abakiri bato baba bakorewe ihohoterwa.

Ibitaro bikuru by'akarere ka Nyarugenge ni bimwe mu byubatswe mu buryo bugezweho, hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda muri rusange, aho bisize amarange mashya y'umweru.

Inzu nziza ubona ko aribwo icyuzura igizwe n'amabara y'umweru ndetse ifite ubusitani bwisanzuye, ibi bikaba ari bimwe mu bitaro bikomeye biri mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge.

Ku bitaro byigenga byitwa Sangwa, bigizwe n'amagorofa abiri, mu mbuga yabyo hari abagabo batatu bahagaze bari kuganira, aho ubona ko hari ibitekerezo bari guhana ku bijyanye n'ubuvuzi.

Inzu y'ababyeyi izwi nka materinite. Iki kiba ari igice cyihariye gishinzwe kwita ku babyeyi batwite benda kubyara ndetse n'abana bamaze kwibarukwa. Ikaba yuzuye vuba, hariho utugozi twerekana ko batarayitaha.

Ibyumba bivurirwamo abana bakiri batoya akenshi uba usanga byihariye kuko bikunze gushyirwamo ibishushanyo birangaza abana. Hari agatanda kariho matera y'ubururu ndetse n'insakazamashusho.

Umubyeyi urwaye uri mu bitaro, akaba ari ku gitanda, ari kwitabwaho n'umuganga, aho ari kumubaza uko yaramutse, inyuma ye hari undi barwaranye na we uri kumva ibyo umuganga avuga, afite mu ntoki agapimo kifashishwa hasuzumwa uko umutima utera.

Inyubako ikorerwamo serivisi zijyanye n'ubushakashatsi, ikaba igizwe n'ibirahure ndetse binini. Muri purafo yayo hari ibara ry'umweru ndetse n'amatara.

Inyubako ikoreramo ibitaro byigenga, igeretse kabiri, ikaba yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari umutaka ukoreramo ikigo cy'itumanaho ndetse n'ibinyabiziga byiganjemo iby'umukara.

Hari abantu bakora igikorwa cy'urukundo cyo gutanga amaraso, aho afatwa akabikwa neza mu rwego rwo kugira ngo abazajya bayakenera bajye bayahabwa kandi ku gihe, ari hano ari mu dushashi yagenewe kubikwamo.

Inyubako nini ikaba irimo amatara menshi, mu bisenge byayo hagiye hari ibyuma. Biragaragara ko iyi ngiyi ari inzu ishobora kuba ari iy'ububiko bw'imiti cyangwa se ikaba ikorerwamo n'ubushakashatsi.

Ububiko bw'imiti ndetse n'inkingo bugomba kuba buri ahantu harinzwe ku buryo izo nkingo ndetse n'imiti umutekano wabyo uba wizewe ku buryo busesuye. Akaba ari muri urwo rwego aya maitager agiye arimo ubwoko butandukanye bw'imiti.

Icyumba cyisanzuye gifite inkuta na parafo by'umweru, kikaba kirimo ibyuma abateruzi bifashisha iyo bashaka kongera ingano y'imibiri yabo.

Ahantu hari amazu menshi atandukanye hagaragara nk'aho abaturage bahahererwa serivisi z'ubuvuzi, hari ubusitani bugiye bukikijwe n'indabyo, hanze haragaragara abaturage.

Icyumba cy'ubuvuzi bugezweho, kikaba kirimo buri gikoresho cyose cyafasha umuganga kwita ku murwayi, yaba amatara meza akimurikira ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga bifasha gutanga amakuru.

Icyumba cyo kwa muganga kigizwe n'amabara y'umuhondo, harimo umurwayi uryamye ku gatanda, ukennye igitenge ndetse n'igitambaro, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye amadarubindi ufite umusatsi mwinshi.

Buri bitaro byose biba bifite inzu y'ababyeyi cyangwa sekaba ziri n'ahantu hihariye hafi mu baturage ku buryo ababyeyi barikubise bahita bashyirwa muri izo nzu kugira ngo batangire kwitabwaho mu rwego rwo kugira ngo abana bavuka bavuke neza aha hari inzu y'umuhondo ndetse n'amatafari ahiye imbere yayo hahagaze umugabo.

Urwego rw'ubuvuzi rumaze gutera imbere hano mu Rwanda ndetse n'ahandi ku Isi aho usanga hari ibyuma byifashishwa mu gusuzuma indwara zitagaragara bicamo abarwayi.

Inzu igezetse ir mu ibara ry'umuhondo werurutse, hariho icyapa cy'umweru n'icyatsi cyanditseho ko ari inzu y'ababyeyi, aho kigaragaraho umugore utwite.

Umurwayi uri mu bitaro, hari ibyuma bigenzura uko ubuzima bwe buhagaze. Yambaye iby'umweru. Nubwo bwose yaje mu bitaro arembye, ariko atangiye kugira icyizere cy'uko azakira nk'uko abigaragaza.

Icyumba kirwariramo abantu baba bahawe ibitaro. Iruhande rwacyo hari akuma k'ikoranabuhanga, kagenzura imiterere y'umutima w'umurwayi ndetse n'uko ubuzima bwe buhagaze. Hari igitanda gishashe neza.

Inyubako nziza bigaragara ko ari ibitaro, ifite ubusitanie buteye ubwatsi butoshye, hagati muri ubwo busitani harimo ibendera ry'igihugu, hakaba inyubako ku ruhande zubatse mu buryo butangaje kuko zubakishije amabuye.

Farumasi iri i Remera yitwa Diasol. Icuruza imiti. Ariko ni ngombwa mbere yuko uhajya, uca kwa muganga bakagusuzuma maze bakakwandikira imiti ukabona kuza kuyigura aha, haparitse imodoka y'umukara.

Icyapa kiri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, aho hari ipikipiki iri munsi yacyo itari kugaragara neza, iri hirya. Muri uyu muhanda haratuje, kuko nta binyabiziga nta n'abantu benshi bacamo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo gukorerwamo ubuvuzi, aho hari umurwayi bari kuvura indwara yo mu kanwa, bashobora kuba bagiye nko kumukura iryinyo cyangwa se kumudoda.

Ibitaro byiswe ibya Butaro bibarizwa mu Karere ka Rulindo, ni bimwe mu byubatswe neza kandi bishobora kwakira no gufasha abarwayi benshi babigana bagahabwa serivisi nziza.

Abantu batanu barimo abagore bane ndetse n'umugabo umwe ubahagazemo hagati wambaye akajaketi k'umukara. Uri iruhande rw'iburyo yambaye agapira k'umweru asutse imisatsi igiye inyuma.

Inyubako yubatse ku buryo butangaje kuko yubakishijwe amabuye azwi nk'amakoro, imbere yayo hari gutambuka abagabo babiri. Umwe yambaye ishati y'mweru, undi yambaye itaburiya y'abaganga aho bari guca mu ibaraza ry'iyi nzu.

Inyubako igeretse gatatu, hejuru hari ibigega, bishinzwe gufata amazi y'imvura, ndetse n'ibikoresho ngurukanabumenyi, imbere yayo hari umugabo wambaye umupira w'ubururu, ndetse n'ushinzwe gufungurira abinjira n'abasohoka.

Kwa muganga ni hamwe mu hantu haba hagomba kwitabwaho hagakorerwa isuku ihagije kuko abarwayi bashobora kuharwarira izindi ndwara mu gihe baba babayeho mu buzima burimo umwanda, niyo mpamvu hari umusore wambaye umupira w'ubururu uri gukora isuku.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ikorotirijwe n'utwuma ifite ubusitani burimo indabyo. Ikaba ari inzu y'ababyeyi. Iyo amaze kubyara we n'umwana we niho baba bari kubitaho.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, gifite irange ry'umuhondo werurutse, hari inkingi eshatu zifashe ibaraza, hari ababyeyi ndetse n'abana bacyicaye imbere.

Itsinda ry'abaganga b'inzobere barimo abakobwa babiri ndetse n'umuhungu umwe ugaragara, undi aragaragara igice, bari mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi aho bari kungurana ubumenyi.

Mu rwego rwo gukurikirana imikurire y'abana hari inshuro baba baragenwe kuzajya bajyanwa ku kigo nderabuzima bakabapima ibiro, bagasuzuma uko ubuzima bwabo bumeze kugira ngo barusheho gukura neza.

Inyubako yisanzuye, ikaba ifite amabati y'icyatsi, hari imbuga iteyemo ubusitani ndetse n'utuyira abantu bagenda bacamo, baje gushaka serivisi.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ubuvuzi buteye imbere kuko harimo insakazamashusho zose zigera kuri eshatu, harimo imwe igaragaza uburyo ubuzima bw'umurwayi buri kugenda, harimo igitanda cy'umweru ariko nta muntu ugaragaramo.

Nyuma yo gufatwa ibizamini bitandukanye, iyo umuntu yaciye mu cyuma, abaganga babishyira muri za mudasobwa, ubundi bakabireba bakagenda basesengura urukingo ku rundi, bagatahura indwara umurwayi afite, nk'uko uyu muganga w'inzobere ari kubigenza.

Umuhanda ugera ku bitaro, byubakishije amatafari ahiye, hakaba hagaragara icyapa kerekana iminsi bakoreraho, ibyo bakora ndetse n'uburyo bakoramo.

Itsinda ry'abaganga b'abakobwa bakorera ku bitaro byigenga byitwa Lagacy, bahagaze ku murongo bose bambaye impuzankano y'ubururu bwerurutse ndetse n'udupfukamunwa bakaba bafunze igipfunsi.

Ibitaro byigenga bizwi nko kwa Kanimba cyangwa se kwa Nyirinkwaya, hari icyapa kibiranga, hari urupangu rw'ubururu, mo imbere harimo akazu k'ikigo cya MTN ndetse n'amabendera.

Mu bitaro kwa muganga haragaragara urujya n'uruza rw'abantu. Hari umurwayi uri gusohorwa mu cyumba uryamye ku gitanda kigendera ku mapine. Hirya hari umuzungu wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abakecuru babiri bari hanze aho hari umuganga wabasuye uri kubitaho, yambaye impuzankano itukura n'uturindantoki, ari kubapima anabaganiriza ababwira uko ubuzima bwabo buhagaze.

Umuntu uryamye hagati yibitaro bigaragara ko ari mu cyumba kiberamo ubuvuzi bujyanye no kubaga, hari ibyuma byinshi bimuzengurutse yaba ibimurikira icyumba ndetse n'ibindi bifasha abaganga mu kumwitaho.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, ikaba igaragara nk'aho ikeye, ku nkuta hari amarangi y'umweru ndetse n'amakaro meza cyane, aho bakirira abantu ntawe uhagaragara.

Ku bigo nderabuzima hose haba hari ikiswe materinete cyangwa se inzu y'ababyeyi, hari umugabo uhagaze imbere yayo wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'ubururu ndetse n'ibindi.

Abadamu bane bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa bose biragaragara ko ari ababyaza kuko inyuma yabo hari inzu yanditseho ko ari inzu y'ababyeyi.

Abaganga b'inzobere bari kwakira umurwayi wateze agatambaro mu mutwe, aho hari umwe wicaye wambaye impuzankano yitaburiya y'umweru, ari kumubaza uko amerewe ariko agenda yandika.

Ibitaro by'Akarere ka Shyira, ni bimwe mu byubatswe vuba aha ngaha byaje gukemura ikibazo cy'abantu barwaraga muri aka gace, maze bakajya kwivuza kure bigatuma ubuzima bwabo buhazaharira.

Abantu batandukanye b'ingeri zose. Harimo abagabo n'abagore, abirabura ndetse n'abazungu. Nyuma yo gutaha ku mugaragaro, ibitaro bya Butaro byabaye ngombwa ko bahafatira ifoto y'urwibutso, nk'ikimenyetso ntakuka cy'uko bamaze kubitangiza ku mugaragaro.

Icyumba cyo kwa muganga kiri kugaragaramo abarwayi bagiye baryamye ku bitanda bahawe ibitaro, kirarombereje inkuta zacyo ni umweru hari umwana wicaye mu kagare.

Ibitaro bya CHUB ni bimwe mu bikomeye kuko bifitanye isano na CHUK, bimwe ni ibitaro bya Kaminuza ya Kigali, ibindi ni ibitaro bya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Butare.

Inyubako nziza irimo amakaro afite amabara atandukanye, harimo aya kake ndetse n'andi arimo utuntu tw'umukara, ni ibitaro byigenga bizwi nka Legacy, hakaba hari kugaragara aho bakirira abantu.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ifite igisenge kinini, hari amagambo ayanditseho aho yiganjemo irange ry'umweru, abantu benshi bayihagaze imbere baramukiye kuza kwaka serivisi.

Icyumba kirimo amabara menshi yaba asize ku nkuta ndetse no hasi, higanjemo ay'ubururu n'icyatsi, hari ameza ariho mudasobwa nta muntu ugaragara muri iki cyumba.

Icyumba cyo kwa muganga kifashishwa n'abaganga b'inzobere mu gukora ubushakashatsi ku bizamini biba byafashwe abarwayi maze bakabigenzura, hagaragaramo ibyuma kabuhariwe ndetse n'umuganga uri mu gikorwa cy'ubushakashatsi.

Ubusitani bwiza cyane burimo, ubwatsi butoshye. Hagati hari igiti kitarakura neza. Hari ikigega gifata amazi avuye ku nyubako nziza, irimo rwagati, isakaye neza, amabati amena mu mpande zombi.

Ububiko bw'amaraso aba yiteguye gutabara aho rukomeye, agahabwa abarwayi, aba yaratanzwe n'abagiraneza kandi ku bushake, maze agashyirwa ahabugenewe, igihe icyo ari cyo cyose hagira ukenera ubutabazi baza kuyakura muri ubu bubiko, maze bakayamushyira.

Inyubako yubatse ku buso bunini cyane, bigaragara ko ari ibitaro. Hari abantu bari kuyigaragaramo n'abandi bari kuyigenda iruhande. Mu busitani bwayo hari ibendera ry'igihugu, ndetse hakurya ku misozi hari ibiti.

Inzu icururizwamo amadarubindi y'amaso. Aramanitse ni menshi agiye ari mu byiciro bitandukanye, hari umukobwa uri ku ishusho wambaye ayo madarubindi.

Ibyuma bigezweho by'ikoranabuhanga, biri mu cyumba cy'abaganga. Ibyinshi muri byo ni ibyifashishwa mu gupima indwara umurwayi yaba arwaye. Hari ahateretse insakazamashusho.

Umuforomokazi w'umukobwa ari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda mu bitaro, aho ari kureba nimba serumu bamuteye itarashiramo kugira ngo amwongere indi, yambaye umwenda w'ubururu bwijimye.

Amarembo magari yinjira ku bitaro bya Kabgayi, hari abantu batari benshi bari kwinjirayo, ibi bikaba bizwiho kuba bikora ubuvuzi bw'amaso ku buryo bwimbitse.

Ahantu hatunganyirizwa imiti hakaba haba harinzwe ndetse hakeye mu rwego rwo kugira ngo iyo miti ibe yujuje ubuziranenge ndetse hirinde kuba yakwangizwa.

Uruganiriro rurimo indabyo zimwe ziri mu nguni hafi y'inkuta ebyiri zidahuje amabara, hamwe harasa umweru ahandi harasa nk'igicu, harimo intebe zikoze mu mbaho nziza ndetse n'ameza y'amabara atandukanye.

Ni ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, haba hubatse neza ku buryo bushimishije, hari utwuma tugiye tuzengurutswe n'utugozi tw'ubururu, twerekana ko umuntu adakwiye kujya aho ngaho.

Ni iduka ricuruza ibijyanye n'imiti rizwi nka farumasi, akaba ari iya Murekatete Marie Denise, wamubariza kuri zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu mirongo irindwi mirongo itanu.

Icyumba kirimo intebe zikozwe mu rubaho rwiza mu buryo butangaje, hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'akabati gashyirwamo utuntu, iki cyumba cyifashishwa n'abaganga.

Kwa muganga, ni hamwe mu hantu abantu bashobora kwigira isomo ry'ubuzima, kuko iyo uhageze nibwo umenya ko hari abantu benshi bababaye, urugero, ni nk'aba bantu baryamye ku bitanda bashyizweho ibibongerera umwuka.

Ibyuma kabuhariwe, biba biri ku bitaro bitandukanye, ho byifashishwa n'abaganga b'inzobere, mu rwego rwo gusuzuma ibizamini biba byafi bifatwa abarwayi, maze hakamenyekana indwara barwaye.

Hari abantu baba barahuye n'ibyago, bagahura n'ibibazo by'imvune bitazakira, cyangwa se bikazanakira bitinze, bahabwa ikizwi nk'imbago, bifashisha mu nsimburangingo.

Ibinini by'umuhondo, umweru w'umutuku ndetse n'andi mabara byakoze ishusho y'umuntu uri kwirukanka, iruhande hari n'inshinge zizwi nka serenge.

Agatanda karyamishijwe gashobora kuba kifashishwa mu rwego rw'ubuvuzi, ubutambike bwako burapima santimetero mirongo itandatu n'umunani, ubuhagarike burapima santimetero ijana n'imwe.

Ameza ateretseho ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze. Hariho imiti ishobora kugabanya uburibwe bukabije ndetse ibipfuko, imikasi n'ibindi.

Igikoresho kifashishwa mu rwego rwo kuvura imvune, cyane cyane iyo mu ijosi. Kiri mu mabara atandukanye harimo: umuhondo, umweru ndetse n'ubururu bwijimye.

Inkoni yifashishwa n'abafite ubumuga, ikaba ifite ibara ry'umukara, iyi ngiyi abantu bafite ikibazo cyo kutabona neza, barayifashisha mu gihe bari kugenda mu muhanda.

Abantu bakina imikino itandukanye, harimo abakina iy'intoki, iy'amaguru ndetse n'indi, bakaba bambaye imyambaro itandukanye, harimo umwe uri gusoma ku mazi.

Ni agacupa kameze nk'akabido gatoya, aho kariho igipapuro cy'umukara, ko kari mu ibara ry'umwer,u kakaba karimo umuti ugabanya uburibwe ku bantu bari bari mu myitozo ngororamubiri bagahura n'imvune.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yafashe umusatsi we uboshye awufungira hejuru, ku kaboko k'ibumoso yambaye isaha y'umukara ndetse n'ikindi kintu yashyize ku kaboko k'iburyo, batwaraho telefone.

Igikapu cy'umutuku gifite imishumi y'umukara ni kimwe mu bishobora gutwara ibikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, hari agace ko ku ruhande gashyirwamo imikasi, imiti n'ibindi bikajyamo imbere.

Umusore wumutse wakoze umwitozo uhagije, dore n'ubu ngubu yari arimo kwika, mu rwego rwo gukora imyitozo ngororamubiri, agezemo hagati agira inyota, yigira inama yo gusoma ku mazi, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuganga wita ku bakora imikino, akaba ari kwita ku murwayi wagize ikibazo, aho ari kumuzirika bande kugira ngo asubire mu kibuga. Ni umukobwa wambaye agapira k'umukara, aho ari kwita ku musore wipfutse mu maso.

Umukobwa ukiri mutoya, washyize agasume ku rutugu, akaba ameze nk'aho yari ari mu myitozo ngororamubiri, akagira inyota, kubw'ibyo afite icupa ari gusoma ku mazi yo kunywa.

Imikino n'imyidagaduro, ni bimwe mu bintu bisusurutsa abantu benshi, aha hari imipira y'amoko atandukanye, yifashishwa muri siporo z'ingeri zose, yaba izikinishwa amaboko ndetse n'amaguru.

Ikiganza cy'umuganga, gifite ikaramu kikaba kiri kwandika ku rupapuro rw'umweru, ku meza hariho utu ariteli dutoya, imetero ipima uburebure ndetse n'umunzani.

Ibintu bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, hari utwuma tuba twaragenewe kubanza gupima. Ukamenya neza icyo umuntu arwaye mbere yo kumuha ubuvuzi bw'ibanze.

Abantu babiri barimo umusore wambaye agakabutura gato n'agasengeri by'umukara ndetse n'umukobwa wambaye agakabutura karimo umurongo w'umweru, imbere yabo bose hateretse ibikapu bagiye gutangira imyitozo.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, akaba afite imisatsi y'inweri, hagati yashyizemo agatambaro k'umukara ari kwigorora ndetse no kunanura imitsi, mu rwego rwo kugira ngo imyitozo ngororamubiri yakoze ize kumugwa neza.

Umwana mutoya wicaye ku mubyeyi we wambaye agapfukamunwa, imbere ye hari umuganga afite icyuma kiri kumufasha gusuzuma uburwayi uyu mwana yaba afite.

Hari uburyo abantu bashobora gukoramo imyitozo ngororamubiri. Ababishoboye baterura ibyuma bigiye bihwanye n'ibiro byabo, abandi bagakora siporo yo kugendagenda, abakoresha amagare ndetse n'abakina imikino itandukanye.

Hari imiti iba yaragenewe abantu bakora imyitozo ngororamubiri mu rwego rwo kubasubizamo imbaraga. Aha hari ibinini ku meza, urushinge ndetse n'utundi dukoresho twose dushobora kwifashishwa nukora imyitozo ngororamubiri.

Ikiganza cy'umuzungu gifashe icupa ririmo amazi meza yo kunywa, rikaba rifite umufuniko w'ubururu, ni byiza ko mbere yo kunywa amazi tugomba kugenzura nimba yujuje ubuziranenge.

Akuma kifashishwa n'abaganga, mu buvuzi buteye imbere usanga hari ibyuma biba byifashishwa mu ikoranabuhanga, mu rwego rwo kugira ngo abarwayi bitabweho ndetse n'indwara zagiye zinanirana babashe kuzivura zikire.

Hari ibikoresho byinshi byifashishwa mu rwego rwo gukora ubuvuzi bw'ibanze hari n'akantu kaba karagenewe kuyitwaramo aha hari ibipfuko, bande ndetse n'ibindi byaramira umurwayi mu gihe ataragera kwa muganga.

Icyumba gikorerwamo isuzuma ku ndwara zagiye ziyoberana, iki ni icyuma bacishamo umurwayi mu rwego rwo kugira ngo batahure indwara arwaye yananiranye.

Abana bari gukina umukino wa basikete w'intoki, abenshi bashungereye bari kureba uko mugenzi wabo afata umupira akawujugunya mu gakangara, ni abana bato cyane bari gukina.

Umusore uhagaze akaba ari umwe mu bakora imyitozo ngororamubiri. Yambaye umupira w'icyatsi cyererutse akaba atagaragara umutwe ndetse n'igice cy'amaguru. Afite umupira bakina mu ntoki.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, akaba yacishije akaboko inyuma, bigaragara ko ari kwinanura. Yambaye agasengeri k'umukara gacishijemo uturongo tw'umutuku. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma ubuzima bwacu bumera neza.

Hari igihe umuntu ahura n'ikibazo cy'imvune akaba yavunika akaguru cyangwa kakaba kacika bitewe n'impanuka, bikaba ngombwa ko bamuha insimburangingo zimeze nka gutya. Kugira ngo zijye zimufasha kugenda.

Umusore uryamye ku gatanda yubitse inda akaba ari mu cyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri hari umuzungu wambaye ingofero uri kumwitaho mu rwego rwo kumukoresha siporo.

Agakarito kagizwe n'amabara atandukanye. Igice kinini cyo hejuru kigizwe n'ubururu bwijimye bwanditsemo amagambo y'umweru, hagati hari ibara ry'umweru, hepfo hari iry'icyatsi riciyemo uturongo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse mu ijosi yashyizemo akuma kamufasha kumva uko umutima utera, bakifashisha basuzuma abarwayi. Ari gukanda ivi ry'umuntu uryamye ku buriri.

Icyuma kigizwe n'utuntu dutandukanye, harimo utwa pulasitike dufite ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umukara, kikaba cyifashishwa n'abaganga mu gutahura indwara zitagaragara neza.

Umuganga ari kwita ku muntu wagize ikibazo cy'imvune, yicaye ku gatanda, ikirenge kimwe yambayemo urukweto ikindi yarukuyemo ari nacyo kiri gukorerwa ubuvuzi aho bari kumuzirika bande.

Umukobwa wicaye mu bwatsi, ugororotse neza kuko yarambije amaguru, ari kujya amanuka agakoza igituza cye ku mano. Ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kubikora neza kandi mu buryo bwa kinyamwuga.

Umugabo wagize ikibazo ubwo yakinaga umukino uzwi nka rugubi, bamwicaje ku gatanda ndetse bamushyira ibintu mu ivi, bigaragara ko ariho yavunitse.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu gusuzuma ndetse no mu gutahura indwara yaba yarwawe n'umuntu maze ikayoberana. Igihe cyose bigenze bityo abaganga bafata icyemezo cyo kugucisha muri iki cyuma.

Hari uburyo ushobora gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje, buri kugaragara ku cyapa gifite umutwe w'umukara cyandikishijemo amagambo y'umweru, ahandi hose kikaba ari umuhondo, hariho abantu bari kwifashisha imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye agapira kamwegereye, aka bakunze kwita akabodi, afite icupa ry'amazi, ari kuyagotomera yica akanyota, yambaye ekuteri mu matwi zimufasha kumva umuziki.

Imyitozo ngororamubiri iba itandukanye kuko hari abayikora bifashisha ibyuyuma bya rutura baterura, maze zimwe mu ngingo cyangwa imibiri yabo ikajya ibyimba umunsi ku wundi, bigatuma batera uko batari basanzwe bameze.

Umuganga w'umugore wambaye ishati y'umweru akaba yatebeje, hari umusore wafashe ikoboyi ayihina uruhande rumwe, wambaye agapira k'icyatsi kijimye uri kuvurwa imvune n'igitambaro cy'ubururu bari kumuzirika.

Umupira w'amaguru ni umwe mu mikino ishimisha abantu benshi ku isi kuko buri gihugu kiba kigiye gifite ikipe, yewe kikagira n'andi yigenga akinira imbere mu gihugu, bifashisha umupira ndetse n'inkweto zitwa godiyo.

Umuntu w'umuzungu utagaragara neza ari kuvura uwari uri mu mikino ngororamubiri akaba ahuye n'ikibazo ari kumusiga umuti mu kiganza bose ntabwo amasura yabo agaragara.

Agakarito kari mu mabara atandukanye higanjemo iry'umweru kanditseho amagambo kakaba kakuwemo umuti wifashishwa mu kuvura abantu bagize imvune.

Igikapu kirimo imiti myinshi yifashishwa mu buvuzi bw'ibanze. Uruhande rumwe rufunguye ruragaragaramo imikasi ndetse n'utundi dukoresho umuntu ugiye gutanga ubwo butabazi ashobora kwifashisha.

Ikizingo gitukura kiri ahantu h'umweru, ikintu ni kimwe mu byifashishwa n'abakora ubuvuzi bw'ibanze iyo bari kuramira umuntu, gishobora gukoreshwa bavura uwavunitse cyangwa se uwakomeretse.

Hari uburyo bwinshi butandukanye umuntu ashobora gukoramo imyitozo ngororamubiri, bitewe n'ikigero cyiwe. Hari abayikora bicaye, abinanura, abirukanka, nyuma y'iyo myitozo ngororamubiri tuba dukwiye kuza gufata ibituma tugarura imbaraga.

Igikapu kirimo ubuvuzi bw'ibanze, ugifite ashobora gutabara ahantu hashoboye kuba hari umurwayi cyangwa se umuntu uhuye n'impanuka kuko harimo buri gikoresho cyose gishobora kumufasha kumwitaho.

Abasore n'inkumi bari kwiga ibijyanye n'ubutabazi bw'ibanze, hari abahagaze bari kureba uko bikorwa ndetse n'abandi bari mu gikorwa nyirizina, aho hari umuntu uryamye hasi bari kwigiraho.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri, ni bamwe mu bagira ibyago byinshi byo kuba bahura n'impanuka, bagakomereka cyangwa se bakagira imvune zitunguranye. Ni ngombwa ko aho bikorerwa haba hari abaganga bahita babitaho. Aha hari umugabo uri kwitabwaho n'umuganga.

Hari umuryango ushinzwe gutabara imbabare, witwa Croix Rouge ukorera ku Isi hose, urangwa n'ikirango cy'umusaraba ndetse n'ibara ry'umutuku, hari abasore bari gutabara mugenzi wabo wahuye n'ikibazo.

Umukobwa w'inkumi ufite icupa ry'ubururu n'umweru, akaba ari kunywa amazi nyuma yo gusoza imyitozo ngororamubiri, uko abize icyuya ahita yihanagura kuko afite akayeswime ku rutugu.

Abakuze na bo baba bemerewe gukora imyitozo ngororamubiri, yaba iyo guterura ibyuma ariko bakamenya neza ko ibiro bagomba guterura bihwanye n'imbaraga bafite. Hari umugabo w'umuganga uri gutanga urugero rwo gukora iyo myitozo.

Akana gatoya kavutse gahura n'ikibazo cy'uburwayi, niyo mpamvu kari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo barebeko barokora ubuzima bw'ako kana.

Umugabo wicaye mu cyumba gikorerwamo ubuvuzi, hari intebe z'ubururu n'umweru zicarwaho n'abarwayi mugihe bagiye kubasuzuma. Afite mudasobwa iteretse ku kabati k'umweru ndetse ari kuyirebamo.

Umugore wambaye agashanete mu ijosi, kamanutse mu gatuza, hagati akaba yambaye umupira w'umweru, yambaye impeta ku rutoki yahuye n'ikibazo cy'imvune mu nkokora, ari kwikanda.

Umusore wambaye itiriningi y'umukara iciyemo akarongo k'umweru, arikora imyitozo ngororamubiri aho yasutamye maze akamanika amaboko, hari umudamu w'umutoza we wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, niwe umwerekera imyitozo ngororamubiri agomba gukora.

Ikibuga kiri kuberamo imyitozo ngororamubiri, ihurije hamwe abantu benshi biganjemo ab'urubyiruko, hari umukobwa uri kubatambukamo hagati wambaye umupira w'umweru agenda abereka uko bakwiye kuba babikora.

Umuntu w'umugabo wahuye n'ikibazo cy'imvune yambaye agapira k'umweru n'ikabutura, akaba ari kwitabwaho n'umuganga wambaye impuzankano y'ubururu bwijimye, hari icyuma yamuhaye iyo umuntu atangiye gukira agenda ahagurukiraho.

Umukobwa wambaye agakabutura gatoya n'agasengeri byose by'icyatsi, ahagaze imbere y'amazi, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri yiganjemo iyo kwinanura.

Icyuma kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, hari umurwayi uri kugaragara igice cyo hasi yambaye iby'ubururu ari kugicishwamo kugira ngo basuzume neza indwara yaba arwaye.

Umugabo ufite imipira ibiri yo gukina mu ntoki yambaye agakabutura k'umukara imbere ye hari umuntu ukirutse imvune ariko utaramera neza uje gutangira gukora imyitozo yoroheje.

Imbuto zitandukanye zirimo pome, amaronji, imineke, kokombure n'ibindi. Ni bimwe mu bishobora kwifashishwa n'umuntu usoje gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo asubiremo imbaraga.

Imyitozo ngororamubiri ikorwa umuntu atavuye aho ari na yo iba ari ingenzi kuko ituma tugorora ingingo, hari umukobwa wambaye agakora ndetse n'agasengeri k'umukara, imbere ye hateretse mudasobwa, yicaye ku gatapi hari utu arariteri dutoya baterura ndetse n'utundi dukoresho yifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Inkoni zishobora gufasha abarwayi zikunganira cyangwa zigasimbura ingingo zabo, zifashishwa cyane cyane n'abafite ubumuga runaka baterwa no kutagira ingingo zuzuye.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri ari gucishamo agasoma ku mazi andi akayitera mu rwego rwo kugira ngo agabanye icyokere, yambaye agasengeri k'icyatsi hari n'akantu k'agatambaro yiziritse ku kuboko.

Ibiganza bibiri byambaye uturindantoki dukozwe neza tw'umukara. Ibi bikunze kwifashishwa n'abantu baterura ibintu bishobora gutuma intoki zabo zangirika, iyo bashaka kuzirinda, bambara utu turindantoki.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri yambaye agakote k'ingofero, yicaye ahantu hari amasikariye, iruhande rwe hari igikapu cy'umukara, akaba ari kuruhukamo gakeya asoma ku mazi mu rwego rwo kugira ngo agarure intege mu mubiri.

Umusore uri mu nyubako uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'umukara, akaboko k'ibumoso yagashinze hasi, akaguru k'iburyo aragapfukamisha akandi akarambura akajyana inyuma.

Umuganga ari gutambagiza abayobozi bakuru, abereka uburyo abarwayi bahuye n'ikibazo cy'imvune bitabwaho mu bitaro, hari umusore wavunitse akaguru kashyizwe ku byuma.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri yambaye umupira w'ubururu, hari agatambaro yaziritse ku kaboko k'umweru ndetse afite utwuma tumufasha kumva imiziki mu matwi, ari kunywa amazi.

Umuzungukazi wambaye agakora kagufiya k'umukara ndetse n'agasengeri k'ubururu afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kumwe n'umugabo na we wambaye imyenda bakorarana siporo bose bari kwiruka.

Umukino witwa rugubi ni umwe mu isaba imbaraga kandi ikinwa n'abantu baba bakomeye cyane. Uyu mukinnyi ashobora ko ahuye n'ikibazo kuko abaganga bamushinzwe bahise bihutira kuza kureba uko ameze.

Umusore wambaye imyenda y'umukara, amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto; yarari mu gikorwa cy'imyitozo ngororamubiri; asoje igice kijyanye no kwiruka akaba atangiye kurambura amaguru ye.

Imikino njyarugamba, nayo ni imwe mu yemewe hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko hari urugaga rushinzwe kugenzura imikorere, aha ngaha hari abantu babiri umwe wambaye imyenda y'ubururu n'iy'umweru bari gukina uwo mukino.

Mu bwonko bw'umuntu ni ryo zingiro ry'ubuzima bwe, haba hakwiye kwitabwaho ndetse hakanarindwa kuko iyo bugize ikibazo bituma bikuviramo uburwayi bwo mu mutwe. Abaganga rero hari uburyo bifashisha basuzuma imbere mu bwonko bw'umuntu.

Icyumba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, hari akariho amapine, gafite insakazamashusho k'umweru, hagaragara umukobwa w'umuganga, uri kuvurira ku ikoranabuhanga.

Imikino itandukanye yifashishwa n'imipira yo gukina, harimo uwa rugubi, uwa basiketi, uwa futuboru, utudenesi, dukinwa muri tenisi, utwo muri gorufe, ndetse n'indi mikino.

Umukobwa w'umugangakazi wambaye agapfukamunwa k'umweru, uturindantoki tw'ubururu ndetse n'impuzankano y'icyatsi cyerurutse. Afite igipimo cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi mu ijosi rye, ku meza hari mudasobwa ndetse n'ibitabo.

Umukobwa wakomeretse akaba afite agapfuko ku ivi rye, ari kugashyiraho neza. Yicaye ku gitanda yambaye umupira w'umutuku werurutse w'amaboko maremare.

Icyuma cyifashishwa n'abaganga gikora ubuvuzi, cyane cyane bwiganjemo ubw'amaso, ikaba ari imashini ndende izamutse hejuru, ku mutwe hariho utundi twuma tw'umukara.

Utujerekani tubiri tw'umuhondo dufite umupfukizo w'umutuku. Inyuma yatwo hari agakarito karimo amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, hariho umuntu bigaragara ko ari mu myitozo.

Uducupa, udukarito, ndetse n'ibindi, byose birimo imiti ikomoka ku bimera, byiganjemo igikakarubamba, kuko aricyo kizwiho gukurwamo imiti myinshi, ndetse n'ibindi byifashishwa.

Ibimera biri mu byiciro bitandukanye, bikaba byose ari bimwe mu byifashishwa n'abavuzi gakondo. Hari igice kimwe kigaragaraho imbuto, ahandi hari amababi agiye akoze mu buryo butandukanye.

Uducupa tubiri tw'umuhondo, igishashi kiri mu mabara y'umutuku n'umweru ndetse n'akandi gakarito kari inyuma, hari udukombe duto turimo ibinini, byose bituruka ku bimera.

Amavuta ari mu ducupa dutandukanye ndetse turi mu ngano zidahuye, hari ayifashishwa mu gukesha uruhu, cyane cyane ku baba barazanye uduheri, akaba akorwa mu bikakarubamba.

Amoko atandukanye y'uducupa, harimo uturimo amavuta, uturimo amasabune ndetse n'utundi twose tuba twarakozwe n'abavuzi bavura mu buryo bwa gakondo.

Mu rwego rwo gukora imiti gakondo hari uburyo abayikora bifashisha, akenshi na kenshi baba bafite uduhini aritwo turi kugaragara bakubita mu isekuru bashyizemo ibyatsi maze hakavamo amazi cyangwa ifu bifashisha mu kuvura.

Uducupa tubiri kamwe ni umweru ariko utera neza, gafite umufuniko utukura akandi ni umuhondo, gafite umufuniko w'umukara, imbere y'utwo ducupa hari imbuto zikase.

Ibimera bitandukanye biri mu byiciro aho hari ibigaragara nk'intobo cyangwa se urutoryi gifite ibara ry'umuhondo, hari ibindi by'amababi atandukanye bivamo imiti gakondo.

Umuntu utagaragara neza, ashobora kuba ari umuganga kuko yambaye impuzankano yabo, afite mu kiganza kimwe agakarito k'ibara ry'umweru n'icyatsi, ikindi kiganza hari utunini twavuye muri ako gakarito.

Indabyo, ibyatsi n'ibindi byifashishwa n'abavuzi gakondo, aho babikora bigatunganywa maze bikavamo imiti. Aya mababi arasekurwa, akanikwa maze akavura.

Agacupa k'umweru kakaba kariho igipapuro cyometseho, kigaragaza ibirimo mo imbere, kakaba karimo umuti, ni byiza ko umuti ushyirwa ahantu harinzwe.

Igipapuro kirimo imiti ishobora kuba yavuye mu bibabi bakabisekura, ubundi bikavamo ifu, gifashwe n'ibiganza bitagaragara neza nyirabyo ndetse ari kugenda akoramo yumva ko byanoze.

Tangawizi ni kimwe mu bimera byifashishwa mu kuvura Inkorora iyo gifashwe neza kandi mu gihe gikwiriye, hari ibyatsi, agasorori karimo umuti bamaze gusekura.

Ni icyatsi kifashishwa mu gukora ubuvuzi gakondo, kikaba cyitwa inyabarasanya, hariho uturabyo hejuru ushobora kuva igisebe ukatuvuguta ugashyiraho maze kikagufasha kucyumisha.

Amoko y'amavuta ndetse n'imiti yifashishwa mu gusukura amenyo, agiye ari mu uducupa dutandukanye ndetse n'amasabune, hari akabido k'ubururu kariho igipapuro cy'icyatsi ndetse n'utundi.

Turi ku murongo, tubiri tw'umuhondo turegeranye, n'utundi tubiri tuvamo ibinini, byose biri inyuma y'ubusitani bw'ibyatsi n'indabyo ndetse n'ibiti bitandukanye.

Agacupa k'icyatsi kakaba kariho amagambo agaragaza umuti urimo icyo uvura ariko akaba akomoka ku gikakarubamba.

Imiti yifashishwa mu gusukura amenyo. Iri mu ducupa dutandukanye twose turubitse ku tumeza. Akaba ari twinshi twiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi.

ibyatsi bivamo imiti yifashishwa n'abavuzi ba gihanga, ibi ntabwo ari buri wese ushobora kubibona ngo abiNywe uko yiboneye kuko haba hari abaganga b'abavuzi gakondo bagufasha.

Uducupa ndetse n'udukombe tw'amoko atandukanye turimo ibikomoka ku bimera hari uturimo imiti y'ibinini, uturimo amavuta yo kwisigwa ndetse n'akarimo ubuki.

Amababi y'indimu, tangawiz ndetse n'ibindi bimera harimo agasani kariho iby'umuhondo, iruhande hari ururabyo rutukura ndetse n'ibyungo, ni bimwe mu byifashishwa n'abavuzi ba gakondo.

Mu irerero ry'ibiti bikiri bitoya, hagaragara igiti cy'umuravumba, aho cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, hari abakozi bashinzwe kwita kuri byo umunsi ku wundi ndetse n'abantu baje kureba ingemwe z'ibiti.

Ibimera ni bimwe mu bishobora gukurwamo imiti itandukanye, hano hari imineke myiza cyane itoranyije ndetse n'inanasi, hirya gato hari ururabyo rw'umuhondo.

Agacupa k'umweru gafite akabara k'umuzenguruko k'icyatsi, kakaba kanditseho amagambo aranga imiti irimo mo imbere, kakaba gakoreshwa mu buvuzi, cyane cyane ku bantu baba barwaye.

Agakarito kari mu mabara menshi hari icyatsi kiri ku mpande ndetse n'imbere harimo umuzenguruko ugizwe n'ubururu n'akambi k'icyatsi hagati muri uwo muzenguruko harimo umuhondo umubare makumyabiri na kane kuri karindwi.

Akabido gafite umufuniko w'ubururu kakaba gasa ibara ryenda kumera nk'umweru, hari amagambo yanditseho. Bene utu ngutu tuba turimo isabune ikorwa mu bimera.

Umugore ufite isakoshi mu ntoki, yiteye umwitero w'umweru, ari gusoroma ibibabi by'umuravumba biri rwagati mu rutoki, aho agiye kubyifashisha mu buvuzi bwa gakondo.

Agacupa k'umweru gatoya, kariho igipapuro kiri mu mabara y'umweru n'umukara, kiriho ibisobanuro birimo imbere, ni umuti uvura indwara zitandukanye.

Igikakarubamba ni kimwe mu bimera bishobora kuvamo imiti myinshi cyane amavuta ndetse n'amasabune hari uducupa tw'umuhondo n'umukara dushushanyijeho icyo kimera.

Mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi harimo umuganga wambaye tabuririya y'umweru, yicaye ku ntebe y'umukara iruhande rwe hari izindi ziticawemo n'abantu. Ku meza hari udukombe turimo imiti ari gukoreraho ubushakashatsi.

Akabido k'umuhondo gafite umufuniko utukura, hari amagambo ari imbere yanditseho ndetse n'akamenyetso gato k'ibiguruka, aka kabido kakaba kavamo isabune yo koga mu mutwe.

Agacupa gatoya kari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru wiganje, kakaba karimo ikitwa shampo. Iyi yifashishwa mu gukora isuku mu mutwe, hakurwamo imvuvu ndetse n'indi myanda.

Ubuki buturutse ku nzuki, ni kimwe mu bintu bishobora kuba biryoha, ariko nanone kikavamo umuti, hari agacupa karimo ubuki ndetse n'utundi tugiye turimo ibinini.

Uducupa tubiri tw'umuhondo turimo umuti ukorwa mu kimera cyiza cyane kizwi nk'igikakarubamba, akaba dufite imipfundikizo y'umukara, iruhande rwatwo hari udukarito na two turimo ibindi bintu.

Agakarito karimo ibintu bitandukanye, gafite ibara ry'ubururu umweru ndetse n'icyatsi, hanze handitseho amagambo aranga umuti uri muri kano gakarito.

Agacupa karimo amavuta akorwa mu gikakarubamba. Iki ni kimwe mu bimera bivamo imiti, amavuta, amasabune, n'ibindi bintu byinshi. Ni ngombwa rero ko iyo tubonye aho giteye, tugisigasira kuko ari ingira kamaro.

Ibibabi by'umuhondo by'igiti kikiri gushibuka byifashishwa bigakurwamo umuti gakondo, ntago ari byiza gukoresha bene iyi miti utabanje kujya kwisuzuma ngo habanze kumenyekana neza indwara ugiye kwivuza iyo ari yo.

Uducupa tune turi ahantu haciyemo amabara atandukanye, harimo umuhondo wijimye, umuhondo werurutse, umutuku ndetse n'iroza, utwo ducupa twose turimo imiti ikorwa mu gikakarubamba.

Umuvuzi gakondo wambaye ishati y'umweru irimo imirongo y'umukara afite igikombe gifite umufuniko w'ubururu aho ari cyo ashyiramo imiti yarangije gukora, iruhande rwe hari ibyakatsi yanitse maze ategereje kubikoramo umuti.

Agakombe karimo umuti k'umweru kariho igipapuro kigaragaza ibirimo imbere. Uyu muti ukaba ukorwa mu kimera aricyo cy'ironji, aho uvura indwara zitandukanye.

Agasekuru gakozwe mu buryo bwiza kifashishwa n'abavuzi ba gihanga, gateretseho ibyatsi biri iruhande rwako ndetse hari n'agacupa karimo amavuta bigaragara ko ibyasekuwe ariho bishyirwa.

Akantu kameze nk'akayiko, kabajwe mu giti, kakaba kari ku meza y'umweru, karimo utunini tw'icyatsi, batunganyijwe mu ruganda bivuye mu bimera kugira ngo bivure indwara zitandukanye.

Ibimera by'ibyatsi, bikaba biri kugaragazwa n'ikigo kigaragaza amashusho cyitwa baho neza. Ibi bimera biratunganywa neza, iyo byaciye mu ruganda bivamo ibinini tunkwa bikatuvura.

Ibibabi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo. Leta y'u Rwanda nyuma yo kubona ko hari abahanga bazi gukora iyi miti kandi ikagirira akamaro abaturage mu kubavura, yabahaye uburenganzira bwo gukora ariko mu buryo bwemewe.

Udusahani dukoze mu mabumba duteretse ku murongo tukaba ari twinshi, turimo ibimera bitandukanye byose byifashishwa hagamijwe gukorwa imiti gakondo.

Mu gishanga hakunze kuba hari ibimera bitandukanye, ariko ni bake bashobora kumenya akamaro kabyo. Hano hari ibyakatsi by'amababi, byinshi muri byo abavuzi babikoramo imiti.

Udukarito dutandukanye tugiye turimo ibinini utundi turimo amavuta yo kwisiga ndetse n'imiti yifashishwa mu gukora isuku mu menyo, byose birimo hano bikomoka ku mbuto ndetse n'ibimera.

Imiti ituruka mu bimera iteretswe mu tuntu dutandukanye harimo utw'amabara y'umukara, ay'umutuku ndetse n'andi. Hagiye harimo ibimera byifashishwa bigakurwamo imiti.

Umunwa w'amenyo yererana nk'uruyange, ukaba uri kumwenyura kubwo kuba ukorerwa isuku umunsi ku wundi, hari udukombe turimo umuti w'amenyo ndetse n'uburoso.

Byose bituruka ku bimera harimo ibivamo ikawa ndetse n'imibavu bikaba ari udukombe dupanze ku murongo dufite amabara y'umutuku n'icyatsi ndetse n'andi.

Igikakarubamba ni kimwe mu bintu bivamo imiti, amavuta ndetse n'amasabune. Biragaragara ko iki ngiki cyakozwemo isabune yo koga mu mutwe iri mu kajerekani k'umuhondo.

Agakarito kari mu ibara ry'umweru, kakaba iruhande rwako hari uducupa cyangwa se udukombe turimo umuti wifashishwa mu gukora isuku y'amenyo.

Amavuta yifashishwa mu gukora ubuvuzi ku mvune zitandukanye. Hari ibice by'umubiri byerekanwe hano, ushobora gushyiraho ayo mavuta akabasha kuba yakuvura, yaba ku rutirigongo, mu irugu, ku rutugu ndetse no mu nkokora.

Agakarito kabumbiyemo uducupa twinshi tw'umuhondo dufite imifuniko y'umukara, aho harimo imiti ikomoka ku gikakarubamba, dore ko byifashishwa mu miti gakondo.

Uducupa dutandukanye turimo imiti, amasabune ndetse n'amavuta, tukaba twose dukorwa mu kimera k'igikakarubamba, kizwiho gukorwamo ibintu byinshi by'ingirakamaro.

Ibibabi byifashishwa mu gukurwamo imiti gakondo, akenshi usanga abantu batazi ibibakikije ko bishobora gukorwamo imiti bityo bakaba babyangiza kandi baba bakwiye kubisigasira.

Indabyo zikunze kwifashishwa nk'imitako, ariko hari n'izo abavuzi ba gakondo, bifashisha bakoramo umuti, aha hari ururabo rufite amabara y'umweru ruri rwagati mu byatsi.

Ikimera kigizwe n'ibibabi by'icyatsi kiri mu murima w'intabire, kikaba kizwiho kuba cyakorwamo umuti gakondo, ababisobanukiwe baragisekura cyangwa se bakakivuguta.

Amoko atandukanye y'uducupa, udukombe n'utujerekani, ateretse ku meza, akaba arimo ibikomoka ku bimera, hari ahari ubuki, umuti wo gusukura mu kanwa, ndetse n'udukombe turimo ibinini.

Indabyo n'ibibabi biba biteye mu gishanga abenshi tukabicaho ntitumenya ibyo aribyo, ariko iyi ni imari ishyushye ku bantu bazi imiti ya Kinyarwanda yifashishwa n'abavuzi gakondo.

Agakarito kagizwe n'amabara abiri igice kimwe kinini kigizwe n'umuhondo, ikindi gitoya kigizwe n'icyatsi, habikwamo utunini dukorwa mu bimera turi mu ibara ryenda gusa umutuku.

Ahantu nyaburanga hateretse ibishyitsi by'ibiziga biriho udukarito, akaba ari imiti ariko ikorwa mu byayi aho babikomora mu misozi.

Agacupa gacuritse kari mu ibara ry'umweru ndetse n'irindi ry'icunga rihishije, kakaba kaba karimo umuti wifashishwa mu gusukura amenyo kuko ari igice k'ingenzi.

Uducupa duteretse ku murongo. Hari tumwe dukoze mu ishusho isa, nubwo tudahuje amabara. Ikindi cyiciro cy'utundi na two dusa, usibye kamwe katareshya na two.

Igiti kiri mu ishyamba kiriho amababi y'icyatsi aya ngahe akaba yifashishwa mu gukora umuti wa gakondo, aho bawufata bakawusekura bakawutunganya neza maze bakawuha umurwayi.

Imiti myinshi, amasabune n'ibindi, bikunze kuba byose bituruka ku bimera yaba ibyatsi, indabyo ndetse n'imbuto turya zirimo umuneke ndetse n'inanasi.

Amakarito menshi y'ubwoko butandukanye ndetse n'udusashe, byose bikaba birimo imiti, hagiye hari amagambo yanditseho agusobanurira neza buri gakarito ikirimo.

Udukarito dutatu ariko twose duhuriyeho ikintu kimwe turasa turiho amabara y'icyatsi, umutuku ndetse n'umuhondo mo imbere harimo ibinini.

Amacupa atandukanye harimo ay'ibirahure ndetse na purasitike. Yose agiye arimo ibintu bisukika bidahuje amabara. Biragaragara ko ari ibyo kunywa by'imiti.

Mu rwego rwo kugira ngo umusatsi wacu uhorane isuku kandi ube ukeyeye, hari amasabune akorwa mu bimera yifashishwa mu kuwusukura azwi nka shampo, ariyo iri muri aka gacupa k'umweru n'icyatsi.

Icyatsi kirandaranda ku butaka cyarabye uturabyo tw'iroza ndetse gifite n'amababi y'icyatsi iki ni kimwe mu bimera bitunganywa maze bigakurwamo umuti gakondo aho wifashishwa mu kuvura indwara.

Akabido kari mu ibara ry'ivu, kakaba karimo umuti uturuka ku bimera, ni ngombwa ko iyo tugiye gukoresha aka kabido tubanza gusoma amabwiriza ariho kugira ngo tumenye umuti urimo icyo ukora.

Agacupa k'umweru ,kariho igipapuro cy'ubururu, cyanditseho amagambo menshi ,amabwiriza agenga umuti uri muri aka gacupa, ni ngombwa ko ubanza kuyasoma.

Agakombe k'ikirahure gafite umufuniko w'icyatsi, ndetse kometseho n'igipapuro cy'icyatsi, kakaba karimo umuti ukorwa mu kimera kizwi nk'umuravumba nk'uko byanditseho.

Uducupa dutatu, tubiri ni umweru kamwe karabogetse akandi karicaye neza, ak'umuhondo gafite umufuniko w'umukara kariho igikakarubamba.

Icupa rimwe rigufi rikoze umuzenguruko, rikaba ririmo amavuta yifashishwa akomotse mu bimera ndetse n'akandi ko hejuru, karimo ay'uruhu na yo akomoka ku bimera.

Agacupa karimo umuti, hakaba hari amagambo yanditseho hejuru agira ati "Igisubizo kuri amibe." Hari umuntu wifashe mu nda bigaragara ko yarwaye akaba yarazahajwe n'amibe. Aka gacupa rero gashobora kuba karimo umuti wamuvura.

Ikigo cy'Igihugu cyita ku biribwa imiti ndetse n'ibiyobyabwenge, akaba ari ngombwa ko mbere y'uko ugura umuti, ubanza gusuzuma ko wemejwe n'iki kigo kuko ari cyo kibifitiye uburenganzira.

Ni ibibumbano byinshi ubusanzwe bishyirwamo imitako ariko birimo ibimera bitandukanye byose bikorwamo imiti yifashishwa n'abavuzi bwa gakondo, hari ijambo ryanditse mu rurimi rw'Icyongereza ariko rivuga ko nyine ari ibimera bikomokamo imiti.

Agakombe karimo umuti, kakaba gasa umweru aho kariho igipapuro cy'ubururu, kigaragaza neza ibyakozwe bigashyira muri aka gakombe. Ni ngombwa ko iyo inganda zimaze gutunganya imiti, ziyishyira ahantu hatuma izagera ku bayikeneye itarangirika.